Ihuriro ry'abana bari mu kigero cy'imyaka irindwi kumanuka ndetse n'abarezi babo, bambaye imyenda ya oranje hejuru kugira ngo berekane ko umuco wo gufata umwana neza ari ikintu kigomba kwitabwaho umunsi ku munsi.

Ikigo cyashinzwe nyuma y'intambara, kikaba gifite uburemere bwo kwita ku burenganzira bw'umwana kugira ngo akomeze kumera neza cyane cyane uwavukijwe uburenganzira bwiwe, kikaba cyita ku bihugu ijana na mirongo icyenda.

Abagore batatu bari mu buvuzi butandukanye, umwe aricaye babiri barahagaze, bose bambaye udupfukamunwa tugaragaza kwirinda amatembabuzi y'akanwa, umwe ari guhabwa urukingo rufasha kuvura ubuzima bwe.

Icyumba cy'ubuvuzi rusange cyugarijwemo n'abagore batatu b'inzobere, aho bakoresha amakaramu ndetse n'amakayi n'amafishi mu kwandika ndetse no kubarura, bitaye ku gihe cyakoreshejwe uburwayi ndetse no kuvura uburwayi.

Umwana uri munsi y'imyaka cumi n'itanu, aragaragaza ibyishimo mu kwerekana ko amazi ari ingirakamaro, aho yerekana amazi asa nabi ko atandukanye n'asa neza kuko amazi mabi atera indwara, ariko ameza afasha.

Ihuriro ry'abaturage rusange ndetse harimo n'abanyamahanga, ku kuganira ko ubuzima bw'umwana ari ingirakamaro bukwiye kwitabwaho umwana agahabwa uburere, agahabwa n'uburezi kugira ngo inshingano z'umwana zuzure.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingirakamaro kuri buri muturage wese, aho abaganga b'inzobere bahura n'abaturage batandukanye kugira ngo babahe ubuvuzi hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga ndetse n'isuku ihagije.

Umwana muto uri mu kigero k'imyaka itanu kugeza ku myaka icumi, aho agaragaza amarangamutima y'ibyishimo mu gusukura intoki ziwe ndetse no kwirukana imyanda mu nzara akoresheje amazi meza y'isuku, y'ivomo rusange.

Umugore wambaye amarinete ndetse ashagawe n'abana mu mpande no hirya no hino bisa nkaho bishimye, ndetse hari na bamwe basa nkaho bari kugaragaza amarangamutima yo kumenya ikiri imbere yabo.

Umubyeyi wikoreye ijerekani irimo amazi ndetse hirya hari umugabo wunamye ndetse n'umwana wambaye umupira w'ubururu, impande y'amazu bagaragaza ko amazi ari ubutunzi bukomeye cyane, akwiye kugirwa na buri muntu.

Ihuriro ry'abana batoya bari mu kigero cy'imyaka icumi kugeza kuri cumi n'itanu, aho bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko guseka mu gihe barimo barasukura intoki zabo ndetse bakaba bafite umwambaro usa nka yuniforume.

Abana bari mu bigo by'amashuri baragaragaza uburenganzira bwabo bwo guhabwa ibyishimo bya kandagira ukarabe, kugira ngo babashe gusukura intoki zabo, ndetse banakure imyanda mu nzara hakoreshejwe amazi meza y'isuku.

Ibiganza biri guhabwa isuku ndetse n'amazi aturuka mu ivomo rusange kugira ngo bakangurire buri muturage wese kwita ku isuku yo mu kiganza, ndetse no gukura imyanda mu nzara hakoreshejwe amazi meza y'isuku aboneka ku mavomo rusange.

Umwana mutoya wishimiye kubona amazi aturuka mu mupompo ndetse hari n'undi umuri hejuru wambaye umupira w'ubururu uri kumufungurira, iki ni ikimenyetso kigaragaza ibyishimo byo kuba bafite amazi hafi rusange.

Ni byiza ko abaturage mu bice bitandukanye bahabwa ivomo rusange, aho bahurira baje gufata amazi ku giciro kizwi na buri muturage wese uri muri ako gace. Aha ni abaturage biganjemo igitsina gore bagaragaza ibyishimo mu kwakira amazi.

Ihuriro ry'ababyeyi ndetse n'abana babo, aho bashobora kwitabwaho hagendewe ku iterambere ndetse n'ubukangurambaga bushobora kwita ku burenganzira bw'umwana, aho agomba kugaburirwa indyo yuzuye ndetse akitabwaho n'urubyiruko muri rusange.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse uteruriye umufuka ari kuyihereza abadamu babiri bahagaze hasi agaragaza ko ibiribwa ari ingirakamaro ndetse bikwiye kwitabwaho bigahabwa ubucungiro buzima.

Amabara atandukanye harimo ibara ry'umukara ndetse iry'umuhondo n'iry'umweru, bigaragaza ubwisungane mu baturage kugira ngo bahabwe uburezi ndetse n'ubufasha ku gihe babikenera.

Ihuriro ry'abana bari mu kigero cy'imyaka ingana, bambaye uniforume, bigaragaza nk'aho ari ikigo cy'amashuri gikangurira abana gukoresha amazi meza y'isuku kugira ngo barinde ubuzima bwabo ndetse banakoresha isuku mu byo banyweramo.

Abaturage biganjemo igitsina gore bose barahabwa umuti hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo gupima umuriro ndetse n'amasuku, harimo nk'amaga ndetse no kwambara udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Ihuriro ry'abantu rusange, abaturage aho harimo ikigero kiganjemo igitsina gore kinshi ndetse n'ababyeyi bazanye n'abana babo, kugira ngo bahabwe ubuvuzi, mu buryo uburwayi bwabo bumeze.

Abagabo ndetse n'abagore barimo abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara harimo n'umugore w'umunyamahanga wambaye ikanzu y'umutuku, baragaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubw'ubuvuzi.

Abana bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu kumanuka bagaragaza ko bishimiye kuba bari mu mazi, aho isuku igomba kuranga buri muntu wese ndetse buri muntu wese agakangurirwa gukora isuku umunsi ku munsi agakaraba kugira ubuzima bwe bumere neza.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka itanu kuzamuka, aho agaragaza amarangamutima y'ibyishimo mu guseka, yerekana umupopo yahawe hafi nk'ivomo rusange rimufasha kubona amazi mu buryo bworoshye bwa giturage.

Ihuriro ry'abaturage higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, abenshi bakaba bagizwe n'urubyiruko ndetse bambaye n'amataburiya, bameze nk'aho ari abaganga b'inzobere baragaragaza ubwisungane mu kugira ubuzima bw'umuntu.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse n'abaganga b'inzobere mu guhuza ibitekerezo, ndetse no kwishimira ubuvuzi rusange mu baturage buhabwa kugira ngo umuturage yitabweho umunsi ku munsi kandi afashwe.

Amagambo yandikishije ubururu, aragaragaza itsinda ryishyize hamwe kugira ngo rifashe umuturage wese aho aherereye, kugira ngo abone amazi meza y'isuku kandi anyuze bikoresho by'isuku, kugira ngo abagereho ameze neza.

Abaturage batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bivanzemo n'abana rusange, aho biyegeranya hamwe kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi ndetse n'ubukangurambaga muri rusange.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, umwana muto ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo kubona ivomo rusange rizajya rimufasha kubona amazi hafi kandi amazi arimo isuku, ni byiza ko buri muntu wese abona amazi hafi ye ndetse akitabwaho.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse baje kwakira amazi ku ivomo rusange, aho bagaragaza ko amazi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse akwiye kwitabwaho ndetse akabungwabungwa kugira ngo agumane isuku yayo.

Amazi ni isoko y'ubuzima kuri buri muturage wese. Amazi akoreshwa mu buryo butandukanye bwa buri muturage wese. Iki ni igikorwa cyiza cyo guhabwa ivomo rusange kuri buri muturage kugira ngo abashe kubona amazi mu buryo bworoshye.

Abana b'abanyeshuri bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo kuko bahawe ifunguro ndetse bari no gufata uburezi. Umwana agomba kwitabwaho agahabwa ifunguro rinoze kugira ngo rimufashe mu myigire ye ndetse adahura n'indwara.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye bari mu kigero cy'imyaka imwe, bose bambaye amataburiya y'ubururu hejuru, bakaba bishimiye intsinzi ndetse no kubungabunga ubuzima muri rusange, ubukangurambaga ndetse n'iterambere.

Ihuriro ry'ababyeyi batandukanye bari kumwe n'abana babo bari mu cyumba bagaragara ko bari guhabwa serivisi y'ubuvuzi, ndetse kugira ngo ikiremwamuntu gikomeze gusigasirwa mu buryo bwose harimo no kuvurwa.

Inzu z'ubuvuzi ndetse n'abaganga b'inzobere bahujwe n'abaturage batandukanye kugira bagaragaze ko ubuvuzi ari ikintu gikomeye kandi gikwiye kwitabwaho, aho abarwayi bahabwa imiti ndetse bakanitabwaho umunsi ku wundi.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kuzamuka akaba agaragaza uburyo amazi ari ubukungu bukomeye cyane kubwo kuyasigasira, afite indobo hejuru ku mutwe ndetse n'indi mu ntoki kugira ngo abone amazi ahagije.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka itatu kuzamuka akaba agaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko guseka, akaba afashe kuri kandagira ukarabe agaragaza ko yishimiye gusukura intoki ziwe agakura imyanda mu ntoki.

Serevisi ihabwa abaturage binyujijwe mu baganga b'inzobere, ko insanganyamatsiko ivuga ko SIDA igihari kandi tugomba guhaguruka nk'urubyiruko tukayirwanya, ibi bigaragaza ubwitabire ndetse no kurandura SIDA n'imizi yayo.

Umwana wambaye ikanzu irimo amabara atandukanye akaba afashe ku icupa ririmo amazi rikoreshwa nk'ubuvuzi rusange bw'abaturage mu gusukura intoki zabo kugira ngo birinde indwara zandurira mu ntoki.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, aha hagaragara ababyeyi batandukanye ndetse bishimiye ko bahawe amazi rusange kugira ngo buri muturage wese utuye hafi y'umupompo, ajye yakira amazi mu buryo bumworoheye.

Abagore basaga batatu bari ahantu bapompa kugira ngo babone amazi yo gukoresha mu bintu bigiye bitandukanye, bigaragaza ko ari ihuriro rusange ry'abantu rusange bagomba gufata amazi.

Umukobwa wicaye ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo ndetse akaba yambaye ijipo y'umukara, imbere ye hakaba hari ibikoresho bikoreshwa mu gutanga isuku ihagije kugira ngo umuturage abe afite ubuzima bwiza umunsi ku munsi.

Ubuvuzi rusange ku muturage ni ingirakamaro, hano hari ababyeyi batandukanye ndetse bari kumwe n'abana babo kugira ngo bahabwe ubufuzi harimo nk'inkingo ndetse banitabweho bahabwe isuzuma kugira ubuzima bw'abana bube bumeze neza.

Icyumba cy'abaturage batandukanye ndetse bagaragaza ko ubuzima bw'umuturage ari bwiza, bukwiye kwitabwaho, bagahabwa inama zitandukanye ndetse bakungurana n'ibitekerezo kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze kwitabwaho.

Ihuriro ry'abaturage rusange, higanjemo abasheshe akanguhe igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, imbere hakaba hari umuganga ubizobereyemo uri gutanga amabwiriza y'uburyo umuturage agomba kubungabunga ubuzima bwe kuko ari ikintu gikomeye.

Umubyeyi wambaye igitenge ndetse akaba ateruye umwana we agaragaza amarangamutima y'ibyishimo, aho afashe ku ivomo rusange ndetse hasi hari indobo y'umukara kugirango ibikwamo amazi y'isuku, n'igirakamaro ku baturage kugira amazi.

Inyubako z'ubuvuzi ndetse zikaba zifite uburyo zubatsemo bwazo bufite ubukene, zikaba zifite aho waruhukira mu gihe ufite ikibazo cy'umuhangayiko ndetse n'umunaniro, hari utwatsi twiza.

Icyumba cy'ihuriro ry'imishyikirano, ryiganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo mu kwiga ubuzima bwiza ndetse n'imicungire ya muntu mu buryo bwose kugira ngo ubuzima bw'umuturage bukomeze kuba bumeze neza nta ndwara.

Ihuriro rusange ry'umuturage aho higanzamo igitsina gore aho kuganira ku bijyanye n'imyororokere y'ubuzima ndetse no kubungabunga ubuzima bwiza bwa buri muntu, aho batanga ibitekerezo ndetse n'imiti yavura.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye mu cyumba cy'ubuvuzi aho abagabo bambaye amakoti y' umukara ndetse n'abandi muri rusange bambaye amashati y'ubururu bagaragaza ubuvuzi ko ari ingirakamaro bagahabwa serivisi zabwo.

Inzobere y'umugabo iratanga ubumenyi ku mwana ndetse n'umubyeyi wiwe kugira ngo habeho kumenya neza uburyo umuntu agomba gufata indyo yuzuye, akayiha umwana ndetse no kwita ku mubiri wiwe, harimo nko gukaraba no gukora indi suku.

Kwitabwaho k'ubuzima bw'umwana ndetse no kuzurizwa inshingano ziwe akanahabwa uburenganzira uko bikwiye ndetse aha ni ikigo cy'ubwisungane gikorera mu bihugu bitandukanye mu gufasha mu gucunga abana.

Ihuriro ry'abaturage rusange higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bagaragaza amarangamutima kubwo gushyira hamwe ibitekerezo ndetse no gushyira hamwe imbaraga mu guteza imbere ubuvuzi no kwita ku burenganzira.

Ni byiza ko buri muturage wese abungabunga ikintu cy'amazi ndetse akamenya kugisigasira, kuko amazi ni isoko y'ubuzima, uyu wo ni umupompo uhabwa abaturage rusange kugira ngo babone amazi mu buryo bworoshye.

Amarangamutima agaragarira mu byishimo, harimo nko guseka, ivomo rusange ndetse n'umugabo umwe, bigaragaza ko buri muturage wese yemerewe kwegera ivomo rusange kugira ngo ahabwe amazi bitamugoye.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko akoreshwa mu bintu bitandukanye, harimo gukaraba, guteka gukoresha ndetse n'amasuku, aya mazi atangwa nk'amavomo rusange ni ibyishimo ku baturage.

Abaturage batandukanye, higanjemo cyane urubyiruko, ndetse n'ababyeyi bafite abana, bagaragaza ko amazi ari ikintu cy'agaciro cyane, kandi kiba gikwiye kwitabwaho umunsi ku munsi, kugira umuturage abone amazi meza kandi asukuye mu buzima.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage ndetse muri rusange aho amazi akenerwa n'abaturage kugira ngo yifashishwe mu mirimo itandukanye, iri ni ikoranabuhanga rigaragaza ko amazi agomba gusukurwa kandi akitabwaho umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abaganga batandukanye mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku barwayi hakoreshejwe ikoranabuhanga ndetse n'isuku nyinshi harimo nk'ama ga n’udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi kandi batange serivisi y'isuku.

Ihuriro rusange ry'abaturage aho baza kwipimisha imivuduko y'amaraso ndetse bakanisuzumisha uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima buzira umuze ndetse no kwita ku burenganzira bw'ubuzima bwabo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gifite amabara atandukanye, harimo ubururu ndetse n'umweru n'umukara, kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gufasha mu buvuzi ndetse no guteza imbere ubuvuzi muri rusange no kubwitaho.

Ihuriro ryo kwita ku baturage ndetse no kubaganiriza mu bijyanye no kwita ku buzima bwabo ndetse no kububungabunga umunsi ku munsi, bigaragazwa ku matariki atandukanye ndetse n'amasaha agomba gutangwa kugira ngo bahabwe ubufasha.

Umubare w'inyubako eshatu zubatswe mu buryo bw'ubugeni kandi butandukanye. Imbere hakaba hari imbuga ngari kandi y'ibyatsi. Iyi ngiyi ni inyubako y'ubuvuzi rusange buhabwa buri muturage wese wahagannye ufite indwara.

Ababyeyi ndetse n'abana babo bagaragaza amarangamutima, kubwo guhura n'inzobere z'abaganga babahereza inkingo, hifashishijwe inshinge zabugenewe kugira ngo umuti utambuke neza nk'uko bigenwa n'inzego z'ubuvuzi muri rusange.

Abaturage rusange hivanzemo ababyeyi ndetse n'abana babo baragaragaza ko kwitabira ubuvuzi ari ingirakamaro, kugira ngo bahabwe ubuvuzi rusange ku bana babo ndetse banahabwe isuzuma, ku buryo bagomba kwitwara ku buzima bwabo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kikaba gifite amabara y'ubururu, kikaba gikoreshwa n'abaganga b'inzobere ndetse no mu buvuzi rusange, mu buryo bwo gufasha gusukura amazi atangwa kugira ngo abe asa neza.

Icyumba cyahuriyemo abaturage rusange ndetse baganira k'ubwo kwita ku buzima bw'umwana ndetse bukabungwabungwa kuko ubuzima ari ikintu gikomeye, hagatangwa serivisi zose z'ubuvuzi zishobora gukenerwa.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'umwana kugira ngo tuburengere, aho abaganga b'inzobere bakoresha ikoranabuhanga ndetse n'isuku nk'amaga kugira ngo bavure abantu, batange ubuzima bukomeye.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage aho ava akagera, kuko ayakoresha mu bintu bitandukanye, harimo kunywa, gutekesha ndetse no gukaraba, mu gihe amazi atahawe isuku ihagije ashobora kugutera indwara zitandukanye kandi mbi.

Minisitiri w'ubuzima muganga Sabine Nsanzimana, arakangurira buri munyarwanda wese ko agomba kwipimisha inkondo y'umura, kuko ari indwara mbi cyane, ishobora guhitana abarenga magana atandatu mu gihe gito kandi abatafashe imiti barapfa.

Ihuriro ry'abaturage muri rusange mu gufashanya mu guteza uburenganzira bw'umwana ku isonga kandi bugakomeza gusigasirwa umunsi ku munsi kugira ngo abaturage batere imbere neza ndetse n'urubyiruko muri rusange buhabwe uburezi.

Ishimwa rusange ry'umuturage aho agaragaza amarangamutima y'ibyishimo, mu kusukura intoki z'iwe ukoresheje kandagira ukarabe, aho akabido kaba kari hejuru gafashwe n'ibiti ndetse n'ikindi cyo gukandagiraho hasi.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore bahetse abana, bisa nk'aho ari ihuriro ry'abantu rusange, ku nshingano zigiye zitandukanye runaka bagomba kugezwaho, mu ihuriro ry'abantu benshi cyane.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati irimo amabara atandukanye, akaba ari ku ivomo rusange agaragaza ko amazi ari ingirakamaro, akwiye guhabwa buri muturage ndetse aho ari hafi kugira ngo yitabweho.

Ihuriro ry'abaturage rusange ndetse bambaye imyenda itandukanye, harimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu n'ingofero, aho bagaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, insanganyamatsiko ikavuga ko ari ukwisuzumisha tukarandura kanseri y'inkondo y'umura.

Imbuga irimo utwatsi twumye, ikaba yugarijwe n'abagabo batandukanye bambaye imyenda y'ubwirinzi kugira ngo batagira aho bahurira n'isuku nkeya ndetse n'amatembabuzi, bakaba bamanika inshundura kugira ngo bite ku kazi.

Umubare w'abantu batatu bose bambaye udupfukamunwa, umwe aryamye undi amushyize ugutwi impande y'inda kugira ngo amusuzume yumve uko amerewe, undi ahagaze arebera ku ruhande.

Abagore bambaye ibitenge bitandukanye ndetse bari kumwe n'umuganga wambaye itabuririya y'umweru bagaragaza ko ubuvuzi ari ingirakamaro kandi bagomba kwitabwaho bagasuzuma kugira ngo ubuzima bw'umuturage bumere neza.

Umugore ndetse wicaye ufite umwana we mu ntoki, uri guhabwa ubuvuzi n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru kugira ngo umwana ubuzima bwe bube bumeze neza ahabwe serivisi y'ubuvuzi.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse akavuga uburyo abaturage bishyize hamwe ndetse bagatezanya imbere mu buryo bwo gufashanya mu kwivuza ndetse no gufatanya mu gutanga imiti rusange.

Ibiganza ndetse byambaye amaga afite amabara y'ubururu aho bigaragaza ko ari ubuvuzi butangwa n'abaganga b'inzobere ku baturage rusange kugira ngo babiteho babahereza imiti ifite isuku.

Ihuriro ry'abaturage higanjemo igitsina gore, ndetse bagahura n'abaganga b'inzobere, kugira babafashe gupima umuriro wabo bakoresheje ikoranabuhanga, baba bambaye ibikoresho by'isuku, harimo ga ndetse n'udupfukamunwa, kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Ikinyabiziga cyitwa imodoka ndetse kikaba gihehetse ibintu bitandukanye, bikoreshwa nk'imiti itangwa ku baturage mu gihe ari nk'abantu batandukanye kandi ari benshi, bagahabwa ubuvuzi mu gihe gito.

Umwana wambaye imyenda ya kinyeshuri ari ku bukarabiro, aho akaraba intoki bigaragaza nk'aho ari aho bakorera amasuku rusange kuri buri munyeshuri wese kugira ngo mu ntoki habe hasa neza.

Abagabo babiri bicaye ndetse imbere hakaba hari ameza yo kuganiriraho uko ubuvuzi bugomba kwitabwaho, umunsi ku munsi ndetse hagashyirwaho n'ibigo bitandukanye kugira ngo byite ku buvuzi ndetse n'abarwayi bakire.

Ikigo cy'abishyize hamwe mu guteza ibindi bihugu imbere, mu buryo bujyanye no kwita ku burenganzira bw'umwana, ndetse harimo ubuvuzi, ndetse n'uburere, kugira ngo umwana abe ameze neza mu mpande zose.

Abaturage batandukanye higanjemo igitsina gore, baragaragaza ko amazi ari ingirakamaro ko buri muturage wese agomba kugezwaho ivomo rusange, aho atuye kugira ngo abone amazi hafi ye, ayakoreshe mu bintu bitandukanye.

Ihuriro ry'abaturage rusange ndetse bari mu byiciro bitandukanye, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, harimo n'abanyamahanga, bose baragaragaza ibyishimo ndetse mu bwisungane bwo guteza ubuvuzi rusange, imbere mu gihugu.

Ishyirahamwe ry'ibitekerezo, aho igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bashyira uburinganire hamwe mu kuganira ndetse no gufata imyanzuro mu gusuzuma ndetse n'iyiga muntu, kugira ngo batange ubuzima buzima.

Itariki cumi z'ukwa cumi kuri buri mwaka wose, aho buri muturage wese yemerewe kujya kwisuzumisha akipimisha, kugira ngo amenye uburyo ubuzima bwiwe buhagaze, abibwiwe n'inzego zibishinzwe cyangwa abaganga babakuriye.

Umuturage ubarirwa mu cyigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu kuzamuka, agafatwa mu basheshe akanguhe, aragaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko, guseka ndetse yerekana ko amafunguro ari icyintu cyigomba gufatwa buri munsi cyigategurwa.

Ihuriro ry'abaturage rusange aho hakoreshwa ubwirinzi bw'agapfukamunwa kugira ngo hatagira amatembabuzi ava ku muntu ajya ku wundi ndetse bagasuzumwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo bitabweho ubuzima bwabo.

Amagambo atandukanye yandikishijwe ibara ry'icyatsi, akavuga uburyo ari ubwisungane ku banyeshuri bashaka guteza imbere uburyo bw'ubuvuzi kugira ngo ubuvuzi bwitabweho umunsi ku munsi kandi imiti ikorwe.

Inyubako igizwe n'amabara y'umweru, ndetse n'ibyapa imbere biyiranga, bifite amagambo y'umukara, ikagaragaza ko ariho ubuvuzi butangirwa, ushobora kubagana ugahabwa serivisi yihuse y'ubuvuzi.

Ihuriro ry'abana bari mu kigero cy'imyaka igiye itandukanye, aho harimo abana hungu ndetse n'abana kobwa, aho bagaragaza agahinda kenshi ndetse n'umubabaro ku bijyanye n'uburenganzira bwo gufata no kubungabunga uburenganzira bw'umwana.

Ihuriro ku basheshe akanguhe ko gusigasira umuco gakondo aho bagaragaza ibyishimo bagendeye ku nseko. kandi bakaba bambaye iniforume zisa hejuru amabara yiganjemo ubururu, ndetse n'umuhondo.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo aho urubyiruko rwambaye imipira y'umukara ndetse bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo ku buvuzi butangwa ndetse no guhagarara kw'ireme ry'ubuvuzi.

Umuganga w'inzobere ugaragaza ubwitange mu gushishikariza buri munyarwanda wese kwivuza indwara y'umutima ndetse akaba atanga n'iminsi iyo ndwara ivurirwa kuri buri muturage wese kugira ngo yitabweho.

Umugabo ufite mikoro ndetse n'ishati y'ubururu, ugaragaza amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ko kwita ku burenganzira bw'umuntu bugendeye ku buvuzi ari ingirakamaro kandi bugomba kwitabwaho kuri buri muturage.

Ishyirahamwe ry'abaturage rusange ndetse n'inzego z'umutekano, bagaragaza ibyishimo ndetse no kwisungana mu buryo bwo gutezanya imbere hagendewe ubuvuzi rusange, kuri buri muturage wese mu gihugu no kwitabwaho ku buzima bwe.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye ndetse bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo nko kwerekana ko ari abashyize hamwe mu guteza ubuvuzi imbere ndetse no gutanga ubuvuzi bwa hafi hakoreshejwe ibinyabiziga byabugenewe.

umusaza ugaragaza ibyishimo, akaba akenyeye agashabazi k'umuhondo, akaba afite igiti gakondo, agaragaza umuco gakondo, ndetse no gusakaza urukundo rw'umuco, muri rusange.

Abaturage rusange higanjemo urubyiruko ndetse n'inzego z'umutekano, insanganyamatsiko iravuga ngo kurwanya ihohoterwa ni inshingano ya buri muntu wese mu gihugu, buri muturage wese akanguriwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa buri muntu.

Abagore batatu bambaye ibitenge bitandukanye n'imipira idasa hejuru hari n'umwana ndetse uri guhabwa amashereka n'umubyeyi we kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza, ndetse n'abaturage bakitabwaho muri rusange.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'umweru, ahagarariye urubyiruko mu maboko menshi, aravuga ku buryo umuntu agomba kwita ku buzima bwiwe, akabusigasira kuko ubuzima ari ikintu gatozi umuntu agomba kwitaho umunsi ku munsi.

Icyumba cyiganjemo urubyiruko ndetse rwishimiye ubwisungane bwo guteza igihugu imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, kwita ku buzima bwa muntu umunsi ku munsi ndetse no gusigasira umuco muri rusange, guteza igihugu imbere.

Igitsina gore kigaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko guseka, isuku iri inyuma ku ducupa kugira ngo tubungabunge ubuzima rusange kandi bwiza ndetse n'ibintu bifite ubudahangarwa.

Umugabo wambaye imyenda yamucikiyeho ndetse akaba agaragaza isuku nkeya nko kutogosha umusatsi. Aba ni abantu bakwiriye kwitabwaho bakajyana mu bigo kugira ngo bahabwe ubuvuzi rusange butangwa ku basazi.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kugeza kuri mirongo itandatu, akaba agaragaza amarangamutima y'ibyishimo, ateruye agapapuro karanga amateka yaranze u Rwanda icyenda kane, akaba akangurira abantu bose kuyubaha.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kuzamuka, ugaragaza amarangamutima atari meza nko kwipfuka mu maso, akaba ari guhabwa amabwiriza atandukanye y'ukuntu yakwitwara mu buzima, imbere ye hari umusobanurira.

Abana bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu kumanuka, baragaragaza ibyishimo mu guseka, bambaye imipira isa y'umuhondo mu guteza igihugu imbere, mu kintu kijyanye n'uburezi ndetse n'uburere muri rusange.

Ikinyabiziga gikora nk'ivuriro rusange kuri buri muturage wese, iri ni huriro ry'abantu bagiye batandukanye, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo kugira ngo bahabwe ubuvuzi buzima kandi bitabweho.

Umuturage wese uri mu kigero cy'abasheshe akanguhe cyangwa afite imyaka iri hagati ya mirongo itandatu kuzamuka, uyu agomba kwitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo ubuzima bwe bukurikiranirwe hafi.

Umubyeyi ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo, ndetse uri kumwe n'abana biwe babiri, bari munsi y'imyaka icyenda, aho abategurira amafunguro asanzwe, kugira ngo abana bitabweho, bahabwe uburenganzira bwabo, nk'uko bikwiriye.

Umupira w'umweru hagati ufite amaboko y'ubururu ndetse n'amagambo mu gituza, ugaragaza ko ari byiza kwegera irembo rikwegereye kugira ngo utangire ubwisungane mu guteza igihugu imbere ndetse no mu buvuzi rusange.

Umuturage ufite mikoro mu ntoki ndetse n'abandi bamuri ku ruhande. Bose bagaragaza ko bari gutanga umusaruro ku bwo gushaka amatembere y'igihugu muri rusange. Muri ubwo bwisungane bashyize hamwe iteraniro gutyo.

Ihiga ry'umuntu rusange ndetse n'imikontororere y'ubuzima bwawe rusange ndetse no kwibuka amateka yawe n'igishushanyo kigaragaza umuntu winyibuka kugira ngo atere imbere.

Ihuriro ry'ababyeyi batandukanye, bagirana inama ku buryo umuntu agomba gukora isuku ihagije ku mubiri wiwe kugira ngo agire ubuzima buzira umuze, isuku ni isoko y'ubuzima niyo mpamvu umuntu aba agomba gukora isuku umunsi ku wundi.

Amenyo ni ingingo y'umubiri ikoreshwa mu gihe umuntu arimo ararya, mu gihe aya menyo yakoreshejwe ugomba kuyakorera isuku kugira ngo abe ameze neza, mu gihe yahuye n'uburwayi ugana ubuganga kugira ngo na bwo yitabweho.

Ihuriro rusange ry'ibikoresho bikoreshwa n'abaganga, aho haba higanjemo ibivura amenyo ndetse n'ibisukura mu kanwa, ibi bikoreshwa kuri buri muturage wese ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu kanwa, aho ashobora kwegera akavurwa.

Icyumba cy'ihuriro ry'ubuvuzi bw'amenyo, aho urubyiruko rutandukanye rwambaye imipira y'icyatsi ndetse ruhura n'abaganga b'inzobere kugira ngo bitabweho ndetse ubuzima bwabo bukomeze kumera neza umunsi ku munsi.

Ihuriro ry'abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka mitoya bari kumwe n'abarezi babo bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo, ndetse no kumanika ikiganza cy'abo hejuru kirimo umuti w'amenyo uzabafasha mu kuvura indwara z'akanwa.

Ubuvuzi rusange bushobora gukorwa na buri muturage ku giti cye, mu gihe abonye igikoresho nk'iki ngiki cy'isuku cy'urudodo kugira ngo asukure amenyo yiwe akoresheje urwo rudodo akuremo ibiryo biri hagati y'amenyo.

Abagabo babiri ndetse b'abaganga b'inzobere batanga serivisi y'ubuvuzi ku murwayi w'umuturage ndetse aho agomba kwitabwaho, hakoreshejwe ibikoresho by'isuku kugira ngo ahabwe serivisi inoze harimo nka ga kugira ngo birinde.

Amabara y'umukara arimo ishusho ry'amenyo, aho ubuvuzi bugaragaza yuko abaganga b'inzobere bita ku baturage rusange kugirango bahabwe ubuvuzi bw'amenyo birinda indwara zanduriramo harimo nk'ifumbi.

Umugabo ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo, akaba afite urudodo mu ntoki rukoreshwa mu gusukura amenyo ndetse no gukura ibiryo biri hagati y'amenyo, bigatanga isuku nziza, bikirukana indwara harimo nk'ifumbi.

ubuvuzi bw'amenyo uhereye ku myaka mikeya ukizamuka, aho ngaho bagaragaza ibikorwa ndetse n'isuzuma umwana agira kugira ngo amenyo yiwe akomeze kwitabwaho kugeza ageze mu bukuru.

Abaganga babiri b'inzobere bari gutanga ubuvuzi bw'amenyo ku murwayi utameze neza, ndetse hakoreshejwe ibikoresho by'isuku, harimo nk'amaga n'udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Umwana wambaye umupira w'umweru agaragara ko ari guhabwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo. Aho yitabwaho n'abaganga b'inzobere bagakoresha ibikoresho byabugenewe, kugira ngo batange serivisi inoze kandi irimo isuku nyinshi.

Umugabo ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko guseka, ku bwo kwerekana ko amenyo akwiriye gusukurwa ndetse afite urudodo mu ntoki rukoreshwa mu gusukura amenyo ndetse no kuvana ibiryo biri hagati y'amenyo aho ahurira.

Umugabo wicaye ndetse afite mu ntoki igikoresho cy'ikoranabuhanga mu buvuzi bw'amenyo, aho atanga ibisobanuro bikoreshwa ku kwita ku menyo ndetse n'ubuvuzi bwayo muri rusange kugira ngo umuntu akomeze afite ubuzima bwiza.

Ibihembo byatanzwe ku bana bari mu kigero k'imyaka itanu kugeza kuri cumi n'itanu, bambaye yuniforume, bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo guhabwa korogate izabafasha mu gusukura amenyo yabo.

Umugabo wambaye umupira w'iburara ry'umweru ndetse akaba afite urudodo mu ntoki, rukoreshwa mu gusukura amenyo y'umuntu ndetse no gukura ibiryo biri hagati y'aho amenyo ahurira. Ni inshingano za buri muturage wese kwita ku buzima bwe.

Umugabo wasamye afite urudodo mu ntoki agaragaza ko ari byiza gusukura amenyo yawe ukoresheje ibikoresho by'isuku, ndetse byizewe kugira ngo ukure neza ibiryo biba biri hagati y'amenyo.

Umwana wambaye hejuru umuhondo ndetse uri guhabwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo n'abaganga b'inzobere babishinzwe bagakoresha ibikoresho byabo ndetse n'ibindi by'isuku harimo nk'amaga kugira birinde indwara.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kugeza kuri mirongo ine n'umunani, aragaragaza amarangamutima y'ibyishimo, harimo nko guseka, yerekana umuti wo mu ntoki ushobora gufasha ubuzima bwawe kumera neza.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri nitanu kuzamuka, akaba agaragaza ibyishimo n'amarangamutima harimo nko guseka afite urudodo mu ntoki rugaragaza igikoresho cy'isuku ushobora gukoresha uku imyanda mu kanwa ndetse gusukura amenyo.

Igikoresho gikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga ibisubizo ku barwayi babo, barwaye amenyo ndetse ibi bikabafasha gusuzuma amenyo neza, kumenya aho ryatobotse kugira ngo ryongere kuvurwa ndetse n'imyanda irimo kugira ngo ikurwemo.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ubuvuzi bw'amenyo butere imbere, ndetse kigakoreshwa n'abaganga bafite ubwirinzi harimo nk'amaga kugira ngo hatagira indwara zikunda kwandura zibafata.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umweru hejuru, agaragaza amarangamutima y'ibyishimo ndetse afite uburoso mu ntoki bwo gukoresha mu gusukura mu kanwa, kuko iyo amenyo adasukuwe ashobora kwanduramo indwara nk'ifumbi.

Umugabo wambaye amarinete ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo, harimo nko guseka ndetse n'akaboko ke kakaba kagaragaza ko kwita ku menyo ari ingirakamaro ndetse kugira ngo ube ufite isuku y'amenyo asa neza umweru.

Ubuvuzi rusange bw'amenyo, aho bahera ku kigero cy'imyaka iri hasi ukazamuka ku kigero cy'imyaka iri hejuru, hakoreshwa amasuku ahagije kugirango ngo bavure indwara zo mu kanwa higanjemo ifumbi, imyanda ndetse no gukura ibijigo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse akaba afite urudodo rukoreshwa mu gusukura amenyo y'umuntu, umunsi ku munsi kugira ngo twirinde indwara zitandukanye harimo nk'ifumbi, ndetse ugakangurira buri muturage wese kwita ku menyo ye, umunsi ku munsi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo ndetse yerekana ko amenyo yiwe asa neza, umweru dede, akaba ayasukura buri munsi ndetse yirinda indwara zakwandurira mu menyo harimo nk'ifumbi.

Abaturage babiri bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo, kubwo kwita ku buzima bwabo hakoreshejwe ibikoresho byatanzwe n'abaganga b'inzobere mu gufasha ubuzima bwabo, abafite ubumuga bwo kutagenda bakitabwaho bahawe ibikoresho bibafasha.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo muri serivisi yo gufasha abaturage rusange, mu guhabwa ibikoresho bikenerwa harimo nk'ibiringiti ndetse n'ibindi byose bifasha mu buzima bwa muntu.

Icyumba cy'ihuriro ry'ubuvuzi rusange aho umuganga ahura n'umurwayi we kugira ngo amusobanurire ibijyanye n'uko umubiri we uhagaze ndetse banabapime amaraso mu mubiri uko ari kugenda, iri ni ihuriro ry'abasheshe akanguhe.

Ni byiza kwita ku basheshe akanguhe buri no mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu kuzamuka, abafite ubumuga bwo kutareba, ubwo kutavuga, ubwo kutagenda ndetse n'ubundi bumuga bwose, bagomba kwitabwaho kugira ubuzima bwabo bugende neza.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye higanjemo abasheshe akanguhe, igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bose barahabwa serivisi y'ubuvuzi mu ihuriro ry'ihema aho bagomba kwitabwaho kugira ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Icyumba cy'ivuriro, aho umurwayi ahura n'umuganga wiwe kugira ngo amwiteho amusobanurire ku bijyanye n'uburwayi bw'iwe, ndetse hari ikoranabuhanga rigufasha gupima uko umubiri w'umuntu umeze.

Ikiganza cy'umuturage ndetse uri gukoresha inka zikoreshwa mu mukino ukinishwa amaboko ndetse harimo n'imibare. Aho abasheshakanguhe bagaragaza ibyishimo mu kuruhura mu mutwe bakoresheje imikino y'umuco.

Umugore uri mu kigero cy'abasheshe akanguhe ndetse akaba yicaranye n'umuganga w'inzobere wambaye ibikoresho by'isuku bitandukanye harimo n'agapfukamunwa ndetse n'amaga yo mu ntoki kugira yirinde indwara z'amatembabuzi yandura.

Ababyeyi basa nkaho bari muri siporo kandi basheshe akanguhe bagaragaza amarangamutima yuko bishimiye icyo bari gukora cy'umuco wa siporo, ndetse kigorora amagufa y'abashaje akabafasha mu gukomera ku buzima bwabo ndetse n'ubudahangarwa..

Umugore ndetse ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo, harimo nko guseka, aragaragaza ko siporo ari ingirakamaro kuri buri muturage ndetse buri muntu wese akangurirwa kuyikora kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Abaturage bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kuzamuka, aho bagaragaza ko bafite intambwe nini ndetse no kwigisha urubyiruko uburyo bagomba gusigasira umuco wabo, birinda icyasubiza igihugu inyuma mu buryo bwose.

Umuturage wambaye ishati y'ubururu ndetse ari guhabwa ubuvuzi bumeze nk'isuzuma, bukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ubuzima bw'umuturage cyane cyane abasheshe akanguhe bitabweho kandi bakorerwe ubuvuzi.

Abasheshe akanguhe, baragaragaza amarangamutima y'ibyishimo, harimo nko guseka, ku mafunguro meza yujuje ubuziranenge, harimo nk'indyo yuzuye, ndetse no kunywa amazi. Ibi bibarinda indwara, bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, higanjemo abasaza n'abakecuru, abo bose basheshe akanguhe mu kwiteza imbere no guteza igihugu cyabo imbere, mu buryo bujyanye n'umuco ndetse no gusigasira imyambaro myiza ya kinyarwanda.

Ihuriro ry'abaturage rusange, aho higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, ariko ku basheshe akanguhe, baragaragaza ubufatanye ndetse n'ubwitange ku gihugu ko bagomba guhagarara bagakomera ku muco kugira igihugu gitere imbere.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, uri guhabwa ubuvuzi n'umukobwa wambaye imyenda y'umukara, umeze nk'aho ari umuganga ushobora gutanga ubuvuzi rusange kubasheshe akanguhe.

Icyumba gihurijwemo umugabo wambaye umupira w’ umweru ndetse n’ ipanaro y’ umweru. Akaba yicaye mu kagare bimeze nkaho afite ubumuga bwo kutagenda. Akaba yahujwe n’ muganga w’ inzobere wambaye amataburiya y’ ubururu mu buryo bwo guhabwa ubuvuzi ndetse no kwitabwaho.

Umugore wubahirije inshingano zo gufata imiti yandikiwe n'abaganga, aho afata ikirahure kirimo amazi ndetse n'ibinini mu ntoki, agakurikiza amabwiriza yahawe n'abaganga, kugira ngo umuti awufate neza.

Ni byiza ko buri mubyeyi wese agomba kuganira n'umwana we mu buryo bwose kandi bakagomba kwishimana, uyu ni umugabo ufite ikibazo cy'ubumuga ndetse n'umwana ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo, aho baruhura mu mutwe bakoresheje ikoranabuhanga.

Umugore wambaye ibara ry'umweru hejuru ndetse n'undi uri kuruhande wambaye ibara ry'icyatsi bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo guhereza serivisi yo kwita ku basheshe akanguhe ndetse bakagumana ubuzima bumeze neza, bakitabwaho umunsi ku munsi.

Umugore wambaye umupira w'umukara ndetse akaba yifashe ku munwa afite ikirahure cyo mu ntoki kirimo amazi, agaragaza ko amazi ari ingirakamaro akwiye guhabwa abaturage bose, harimo cyane cyane abasheshe akanguhe.

Abagore batatu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umutuku, umukara ndetse n'umweru, bakaba bafite amakarita mu ntoki, bagaragaza ko ari byiza gukoresha amakarita mu gihe urimo uraruhura mu mutwe kuko bimara siteresi.

Ihuriro ry'abaganga b'inzobere bagaragaza umwambaro mwiza ukwiriye umuganga ugiye kuvura umurwayi ufite ikibazo gishobora kwandurira mu matembabuzi, uko agomba kuba yambaye umwambaro mwiza igisurubeti cy'umweru, agapfukamunwa ndetse na ga yo mu ntoki.

Amagambo ari hejuru ndetse no hasi agiye atandukanye, yandikishijwe amabara agiye atandukanye yiganjemo ubururu ndetse n'umutuku, bikangurira buri muturage wese kwirinda imibonano mpuzabitsina.

Icyumba kirimo abaturage rusange, higanjemo urubyiruko ndetse ab'imbere bakaba bambaye imipira y'imikara, ab'inyuma abenshi bakaba bambaye imipira y'umweru, bahagarariwe n'abayobozi babo kugira ngo baganirizwe.

Amagambo yandikishijwe umukara ndetse avuga ko ari ibyemezo bitandukanye by'abaturage, ndetse bafatanyije na Leta muri rusange kugira ngo bateze ubuvuzi imbere, kandi bwitabweho kuko ari ingirakamaro.

Umuturage w'igitsina gore ndetse ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo gukangurira buri Munyarwanda wese kwita ku bidukikije ndetse akabibungabunga umunsi ku munsi, kuko ibidukikije bifite ibyabiturukaho bibi tukabyirinda.

Umugabo wambaye akajiri ndetse n'agapfukamunwa, aratera urushinge undi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'agapfukamunwa kugira ngo birinde amatembabuzi. Izi nshinge ni inkingo zigaragaza ko umuntu akingiye uburwayi.

Igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bose bashyigikiye ko kwisuzumisha igituntu ari byiza kandi kiravurwa kigakira, barakangurira buri muturage wese ushobora kuba ufite ikibazo cy'uburwayi nk'ubwo, ashobora kugana ivuriro kugira ngo ahabwe ubutabazi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo baragaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko kumanika amaboko, bemeza ko ari umunsi mwiza wo kwita ku buvuzi, hagendekewe ku gitsina gore cyane cyane mu gutanga ubuvuzi.

Ishyirahamwe ry'abaturage batandukanye rusange, bishyize hamwe mu guteza no kwibutsanya mu gutangana ibitekerezo mu guteza igihugu imbere, bagendeye mu bufatanye bw'ubuvuzi rusange.

Ni byiza kugira ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, bashobora kudufasha mu bukangurambaga ndetse n'imicungire myiza y'umuntu, aha ni ihuriro ry'abantu biganjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, batanga ubusobanuro ku bitandukanye.

Icyumba huriro cyiganjemo ibara ry'umweru, hakaba harimo abaturage batandukanye higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bagaragaza ubwisungane mu kwivuza ukugirana inama ndetse no gutezanya imbere mu buryo bwa kivuzi.

Ikoranyirizo ry'ubusobanuro buhagije ku muntu wariye nabi, ndetse n'umuntu wagizweho n'ikibazo cy'ubugwingire, aho ashobora kuganirizwa n'ubuganga bw'inzobere, agahabwa imiti akitabwaho bihagije.

Ikiziga kinini gifite amagambo acyanditse mo imbere kikaba kigaragaza uburyo umuturage agomba kwiyitaho ubwe ku giti cye mu nzego zigiye zitandukanye ndetse no gufashanya mu rubyiruko rusange kugira bite ku buzima.

Abagabo babiri baranzwe n'amarangamutima y'ibyishimo, harimo nko guseka mu kwerekana ubufatanye ndetse no gutezanya imbere mu bukangurambaga bwo kwirinda, ndetse no kwita ku buzima bw'umuntu, kubungabunga ubuzima bw'umuntu no kubwitaho umunsi ku wundi.

Ibimenyetso by'amabara atandukanye biri mu dukobo bikaba bigaragaza ko buri muturage wese, agomba kwirinda icyorezo cya kanseri kuko ari icyorezo kibi gitera indwara zitandukanye, kandi kikica mu gihe gito.

Ni byiza ko buri muturage wese agomba kumenya uko ubuzima bwiwe buhagaze, hagendewe ku kwirukana indwara, kuyirandurira mu mizi ndetse n'icyitera, aha ni amagambo agaragaza uburyo umuntu akwiye kwicunga, agacunga ubuzima bwiwe ndetse n'ibitera indwara.

Amagambo yandikishije ibara ry'umukara yerekana ubwisungane mu gufasha umuturage mu kwirinda indwara zandurira ku ruhu ndetse no gutanga ubumenyi mu kwirinda Sida, igituntu ndetse na malariya mu bihugu bikize n'ibikennye.

Icyumba cy'isuzumabuvuzi aho hugarijwemo ikoranabuhanga ritandukanye, ndetse n'abaganga batandukanye, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, kugira ngo bite ku bureme ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu gutanga ubuvuzi.

Umunsi wo kubungabunga ubuzima bwa muntu, ufatwa ku gihe runaka hagendewe mu kumenya uburyo ubuzima bw'umuntu buhagaze muri rusange. Kumenya umuvuduko w'amaraso ndetse no kwipimisha indwara zindi zose zakwangiza mu gihe gito.

Ukuboko kuriho ibiheri bitandukanye ndetse n'imibyimba ku mubiri bigaragaza ko ari uburwayi bufata uruhu mu gihe hatatanzwe isuku ihagije, ibi bigomba kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira umuntu ufite iki kibazo afashwe.

Umugabo ugaragaza amarangamutima y'ibyishimo harimo nko guseka aributsa ko tariki cumi n'eshatu z'ukwa cumi na kumwe buri mwaka, ku isaha y'i saa sita ndetse kuwa gatatu hari ubukangurambaga kuri buri muturage wese, ku kwita ku buzima ndetse no kuburengera.

Icyumba cy'ihuriro ry'abaturage batandukanye mu gutanga ibitekerezo ndetse no kwitsa ku kintu kijyanye n'ubuvuzi muri rusange ndetse n'uburezi. Ku kwita ku guteza igihugu imbere ugendeye ku muco ndetse no kuwusigasira.

Imyenda y'isuku, harimo nk'amakanzu y'ubuganga ndetse n'utujiri, udupfukamunwa ndetse n'ibindi byose byiganjemo nk'amaga kugira ngo twirinde amatembabuzi ava ku muntu umwe ajya ku wundi, ibi bifasha mu guhashya Korona vayirasi.

Ibaruwa yerekana ko buri muturage wese akwiye kwita ku kijyanye n'imyororokere kuko ari ikintu kiza kandi kiramba mu buzima. Buri muturage wese arakangurirwa kuyikurikiza mu buryo bukwiriye kandi neza.

Ifunguro riteguye ku meza ryiganjemo imbuto harimo avoka, amakaroti ndetse n'insenda n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha mu buzima rusange bwa muntu.

Ubukangurambaga mu rubyiruko insanganyamatsiko ikaba ivuga ko urubyiruko ari twe hazaza heza h'uru Rwanda, tugomba kwirinda virusi itera sida, tukanipimisha uyu munsi, aha higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse n'andi yandikishijwe ibara ry'ubururu atanga amatariki yashyizweho mu kwizihiza umunsi wo kwita ku bidukikije hakurikijwe uburezi ndetse no kwita ku buvuzi muri rusange mu baturage.

Ihuriro ry'abaturage rusange ndetse n'abayobozi b'injijuke mu gutanga ubumenyi ndetse n'isuzuma ku ndwara y'icyorezo cyitwa mabaga ndetse bikagaragaza ko kucyirinda ari ingirakamaro.

Icyumba rusange gikoreshwa mu buvuzi, gifite isuku ihagije mu kwita ku barwayi, aho harimo aho habikwa ibikoresho by'isuku kugira ngo bizakoreshwe ku barwayi, byitaweho kandi bitabwaho neza.

Icyumba cyiganjemo intebe zitandukanye ndetse n'amafoto ku ikoranabuhanga amanitse ku bikuta, agaragaza ko ariho ubuganga bwa serivisi y'amaso butangirwa kugira ngo umuntu afashwe mu gihe ameze nabi.

Ihuriro ry'abaturage ku nzu y'ubuvuzi, aho bagirwa inama mu kwirinda amatembabuzi hakoreshejwe agapfukamunwa, bakagirwa inama z'uburyo bavura indwara zabo bakitabwaho ndetse bakanasusurukanya.

Inyubako y'ubuvuzi rusange ndetse n'aho imiti ikorerwa ndetse ikanabikwa kugira ngo ikomeze kubungabugwa. Ni inzu igaragaza aho abaturage bakoraniye kugira ngo bahabwe serivisi y'ubuvuzi ndetse banige byinshi ku miti.

Icyumba cyugarijwe n'ibara ry'umuhondo ku nkingi, kikaba gifite intebe nyinshi cyane iziteye hirya ndetse no hino, kugira ngo abantu babaganye babone aho bicara, ndetse aha ngaha hari amabwiriza ari ku bikuta agenga icyumba.

Ubuvuzi rusange butangwa n'abaganga b'inzobere hakoreshejwe ikoranabuhanga ritandukanye mu gutanga uburezi ndetse n'ubuvuzi bw'ihame, aho haba hakoreshejwe amataburiya y'umweru afite isuku n'ubupfukamunwa.

Icyumba cy'ubuvuzi butandukanye gihuriramo abaganga b'inzobere ndetse n'abarwayi, kugira ngo bahabwe ubuvuzi kandi hagakoreshwa ubwirinzi butandukanye harimo nk'udupfukamunwa, kugira ngo twirinde amatembabuzi indwara zandura.

Abagore batatu ndetse bambaye ibintu bisa nk'amakanzu y'ubururu ndetse n'udutambaro tw'umweru ku mutwe bagaragaza amarangamutima y'ibyishimo ko ari byiza kwita ku burezi ndetse n'ubuvuzi.

Icyumba cyugarijwe n'ibara ry'umweru kikaba kigizwe n'uturobine tugiye dutandukanye, aho ushobora kuvoma amazi meza y'isuku, utubati twinshi tw'aho ushobora kubika ibikoresho mu gihe byamaze gukoreshwa ndetse ukabibika mu isuku.

Ni byiza ko buri muntu wese amenya aho ubuvuzi rusange butangirwa kugira ngo aho agize imigendekere mibi y'umubiri, amenye aho ashobora kugana kugira ngo afashwe ku kibazo cy'ubuzima yaba afite.

Icyumba cy'ubuvuzi cyiganjemo amamashini atandukanye, akoreshwa n'ikoranabuhanga kugira ngo umuntu abashe kuvurwa ndetse anasuzume indwara ye imenyekane, kugira abashe guhabwa imiti akeneye.

Ni byiza ko tugomba kugira ibigonderabuzima bigiye bitandukanye. Iyi ni ishusho igaragaza kimwe mu kigonderabuzima cya Kinyinya cy'amabara y'umweru, n'amabati y'ubururu.

Inyubako z'ubuvuzi rusange aho buri muturage wese ufite ikibazo ashobora kugana kugira ngo ahabwe ubuvuzi bumeze neza, hari imbuga imbere irimo utwatsi twiza ndetse n'ibiti bishobora gutanga imihumekere myiza y'ikirere.

Inyubako ebyiri zitaruye zifite ibirahure bitandukanye, hagati yazo haracamo umuhanda w'ibinyabiziga, amapikipiki ndetse n'imodoka, imbere yaho hari imbuga ngari kandi nini irimo utwatsi.

Icyumba cyiganjemo amabara y'umweru ndetse n'amatara menshi, kikaba gifite utundi twumba dutoya mu imbere muri cyo, icyo cyumba kigakoreshwa nk'ubuvuzi rusange aho ushobora kuba ufite uburwayi ukabuvurwa mu gihe gitoya.

Ibitaro byose bigomba kuba bifite aho umurwayi aruhukira hameze neza, higanjemo inzitiramibu kugira ngo yirinde udukoko twatera malariya ndetse agakomeza kwitabwaho mu buryo bwose ahabwa imiti n'inzobere zibishinzwe.

Inyubako nini rusange y'abaturage aho buri murwayi wese ashobora kugera kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze ndetse no kwitabwaho ku ndwara yiwe kugira ngo akire, aha harimo abaganga bagiye batandukanye ndetse n'inzobere.

Igikoresho k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu buvuzi rusange kugira ngo gitange serivisi y'ubuvuzi, gikoreshejwe n'abaganga b'inzobere kikaba gifite amabara y'umweru, ndetse kikitabwaho kugira ngo gitange serivisi y'isuku.

Inyubako nini yiganjemo ibyumba bitandukanye, aho abarwayi bakirirwa kugira ngo bahure n'inzobere z'abaganga, kugira bitabweho ku ndwara zabo zigiye zitandukanye. Aho abafite ubumuga bwo kutagenda bashobora kuba bakirwa kandi bakavurwa neza.

Inkingo mu buvuzi ni ireme ry'ubuzima rikomeye, aha hakoreshwa inshinge zabugenewe ndetse n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange umuti mu gihe binoze ndetse bagakoresha n'ibindi bikoresho by'isuku harimo nka ga.

Icyumba cyugarijwemo abantu bafite intege nkeya, ubona bose baryamye ku butanda bagenewe aho hari amasuku menshi cyane kandi bitaweho bahawe n'inzitiramibu kugira bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo.

Icyumba cy'ivuriro rusange aho umurwayi ashobora kuruhukira mu gihe agifite ikibazo kandi ari bukenere ibitaro kwa muganga, ni ibitanda bigiye bitandukanye kandi bifite isuku ihagije ku bureme bw'uburwayi bwa muntu.

Umugabo wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara akaba ari mu kigero cy'imyaka ikuze, akaba yegereye inzu aho batangirwa uburere ku bana batoya ndetse n'ubuvuzi rusange mu gufasha gukomera k'umuco.

Inyubako nini y'ubuvuzi ikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage, aho bahuriramo abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku barwayi, kandi babafashe mu bibazo bafite bagirwe n'inama.

Icyumba gikoreshwa mu mavuriro ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu guteza ubuvuzi rusange imbere, aho gikoresha ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga mu kuvura abaturage ndetse no kubakorera isuzuma.

Icyumba gikoreshwa mu buvuzi bw'abaturage muri rusange, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange serivisi y'ubuvuzi kuri buri muturage umunsi ku wundi.

Icyumba cy'ubuvuzi rusange cyiganjemo agatebe gatoya, ibara ry'umweru ndetse n'indi ntebe nini y'ubuvuzi rusange ikoreshwa mu gusuzuma uko umubiri w'umuntu umeze. Ibi byose bikoreshwa n'abaganga b'inzobere.

Inzu nini yitaruye y'ubuvuzi ndetse n'ihuriro ry'abaturage batandukanye higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo muri serivisi y'ubuvuzi ndetse n'ubukangurambaga ku kwita ku buzima bw'umuntu muri rusange.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Ruyenzi aho ushobora kugana kugira ngo uhabwe ubuvuzi ndetse witabweho ku burwayi bwawe, ni abaturage benshi bashobora kwitabira ku kigero kugira bahure n'abaganga b'inzobere.

Amagambo yandikishije ibara ry'umukara iry'ubururu ndetse n'iry'umutuku, byose biraganisha ku nyubako yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo ibe ari kaminuza izafasha abanyeshuri mu kwiga ubuvuzi ndetse no kwita ku ndwara.

Inyubako nini ikaba ifite imbuga ngari y'aho ushobora guparika ikinyabiziga nk'imodoka cyangwa se ipikipiki, bikaba ari ho abantu bahurira mu gihe baje gufata amasomo ndetse n'ubusobanuro buhambaye mu itanga ndetse n'ihabwa ry'amaraso.

Umugore uryamye umeze nk'aho yacitse intege arwaye, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya ndetse n'ipantaro y'icyatsi, agomba kumuhereza imiti ijyanye n'uburwayi afite, ku cyumba kirimo amasuku n'ikoranabuhanga.

Inyubako nini yitaruye y'ubuvuzi rusange, imbere ifite imbuga aho ishobora guparika ikinyabiziga harimo nk'imodoka cyangwa se ipikipiki, iyi nzu ikaba itangirwamo ubuvuzi rusange kuri buri muturage wese ufite indwara.

Icyumba gifite ibara ry'umweru hejuru ndetse n'umukara hasi, hakaba harimo udutanda dutandukanye, dushobora gukoreshwa mu gihe hagiye gutangwa ubuvuzi runaka busaba kuryamisha umuntu ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Inzu zitandukanye ariko zose zikora umwuga w'ubuvuzi rusange aho buri muturage wese ashobora kubagana mu gihe afite ikibazo kijyanye n'uburwayi bwiwe kugira ngo yitabweho, hari utwatsi twiza ndetse n'aho waparika ikinyabiziga cyawe.

Inyubako nini rusange y'ubuvuzi, aho yitaruyeho imisozi ndetse n'ibiti byinshi cyane, aha ni hamwe ushobora kwegera kugira ngo uhabwe ubuvuzi mu gihe ubuzima bwawe bushobora kuba butameze neza ufitemo indwara.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage ndetse aho abarwayi batandukanye bashobora kugana inyubako y'ubuvuzi ifite imiti ihagije igakoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bayihabwe banabwirwe amabwiriza.

Icyumba gikoreshwa mu buvuzi ndetse kigakoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi, ku barwayi bafite indwara zitandukanye bagahabwa amacumbiki kugira ngo babone aho baruhukira hafite isuku bitabweho.

Inzu itandukanye igaragaza imyubakire idasanzwe iganisha ku iterambere, hejuru ku nkingi hakaba hari amagambo aranga igikorwa gikorerwa muri iyo nyubako mu imbere kijyanye n'ubuvuzi ndetse n'inkingi z'umukara.

Inzu nini rusange y'ihuriro ry'abantu cyangwa buri muturage wese ushobora kuhagana, imbere hakaba hari imbuga nini ishobora guparikamo buri kinyabiziga cyose cyahageze, akaba ari ihuriro ry'abana bafite uburwayi kugira ngo bitabweho.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru kikaba gifite ikoranabuhanga ridufasha mu buvuzi bwa rusange, aho buri muturage wese ufite ikibazo agana, hakaba hari utubati tubikwamo ibikoresho kugira ngo dusigasire isuku.

Icyumba gifite ibara ry'umweru ndetse kikaba gifite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere muri serivisi y'ubuvuzi, aho bifite amabara atandukanye harimo umuhondo ndetse n'umweru.

Icyumba kirimo umugabo umwe wambaye imyenda imeze nkaho ari iy'abaforomo, icyumba cy'imbere kikaba kirimo amarido ndetse n'intebe bigaragaza nk'aho ari ofisi.

Icyumba kigaragaza ubwirinzi bwinshi cyane ndetse n'amasuku aho abakozi barimo mo imbere bambaye amasarubeti y'umweru ndetse n'amaga kugira ngo birinde amatembabuzi ahuriramo indwara nyinshi cyane zishobora kwandura.

Icyumba cy'ivuriro gifite ibitanda bitandukanye bishashwe ibitambaro bisa higanjemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, aha hakoreshwa nk'aho abarwayi baruhukira mu gihe bakiri kwitabwaho mu bitaro kugira bagume bameze neza.

Ibyumba by'amavuriro bikoreshwa ku barwayi, kugira ngo buri muntu wese wahawe ibitaro abone aho aruhukira ndetse hafite isuku, ndetse n'inzitiramibu kugira ngo bakomeze kwirinda izindi ndwara.

Inzu ebyiri ngari nini zigaragara nkaho zifite ibyumba byinshi mo imbere, imbere hakaba hari ikibuga kinini ndetse na fondasiyo y'amabuye.

Icyumba cy'ubuvuzi rusange cyiganjemo isuku nyinshi cyane ndetse n'ibara ry'umweru, kikaba kirimo abaturage batandukanye harimo n'abaganga b'inzobere bashobora kuba bagufasha mu buvuzi butandukanye, harimo n'ikoranabuhanga, harimo nk'udutanda two kuryamaho.

Icyumba cy'ubuvuzi ndetse gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange ubuvuzi rusange ku baturage bafite ibibazo bitandukanye. Harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ameza y'isuzumiro kugira ngo uhabwe ubuvuzi bwizewe.

Icyumba kirimo umugabo wambaye itaburiya ameze nk'aho afite imiti ari gusuzuma ndetse n'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye, rishobora gukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bite ku barwayi babo, bahabwe serivisi inoze.

Inyubako eshatu z'ubuvuzi uko zubatswe mu buryo bw'iterambere imwe igeretse inshuro irenga imwe, aho hitabiriye igitsina gore ndetse n'igitsina gabo kureba iterambere ry'ubuvuzi muri rusange ndetse no guteza igihugu imbere.

Icyumba kinini cy'ivuriro aho imiti ibikwa mu isuku nyinshi kugira ngo isigasirwe n'abaganga b'inzobere, izakoreshwe mu gutangwa ku baturage rusange bafite ikibazo cy'indwara kugira ngo bitabweho.

Amavuriro atandukanye akoreshwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi aho abarwayi bahura n'abaganga babo b'inzobere kugira bahabwe imiti. ibara ry'umweru ryiganje mu nyubako n'inzugi zifite amabara y'umutuku.

Icyumba kirimo umuntu ufite intege nkeya akaba aryamye ku gitanda cyujuje ubuziranenge kandi gifite isuku, hakaba hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gupima hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo ubuvuzi butangwe.

Icyumba gifite intebe zitandukanye ndetse n'isuku ihagije, imbere hakaba hari ameza kandi akaba afite amabara atandukanye, higanjemo umweru n'umukara n'aho ubuvuzi butangirwa kandi bugatangwa neza.

Umuturirwa w'inzu yitaruye iri ahantu ha yonyine, ifite imbuga ngari ndetse ikaba ifite ibirahure byinshi cyane ndetse n'amabara agiye atandukanye agize inzu.

Ibyumba by'isuku nyinshi bikoreshwa mu mavuriro ndetse bikitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gukoresha amakoranabuhanga mu gutanga ubuvuzi, ndetse no gusuzuma abantu bafite uburwayi rusange.

Ishami ry'ubuvuzi rusange rishyirwa hagati mu baturage kugira ngo buri muntu wese ufite indwara imeze nabi, ashobora kuhagana kugira ngo ahabwe imiti ndetse abwirwe n'uburyo ashobora kwitwaramo kugira ngo indwara ye yoroherwe.

Icyumba cy'ubuvuzi gikoreshwa n'abaganga b'inzobere, mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku baturage, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibitanda byo gusuzumirwaho, kugira ngo ubuganga butangwe bwizewe kandi bufite ireme.

Icyumba gihuriyemo ababyeyi batandukanye; harimo igitsina gabo n'igitsina gore; bagaragaza ko bishimiye ubwishingizi ndetse n'ubuvuzi muri rusange butangwa ku babyeyi; kugira ngo ubuzima bw'umuturage bube bumeze neza.

Inyubako nini rusange y'ubuvuzi kuri buri muturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi, ashobora kwitanga akagerayo kugira ngo ahabwe serivisi inoze y'ubuvuzi ku ndwara yiwe, hari inzira zitandukanye zigaragaza aho amerekezo ari.

Icyumba cy'ivuriro rusange aho abana bakimara kuvuka bagomba gushyirwa kugira ngo bitabweho ndetse n'ababizobereyemo, umuganga arashimira ndetse anagaragaza amarangamutima y'ibyishimo kubwo kwita ku bana.

Icyumba cy'ihuriro ry'abantu benshi, aho higanjemo intebe nyinshi, imbere yaho hakaba hari ameza y'umweru kugira ngo buri muyobozi wese uribuze kujya imbere abe agaragara neza kugira ngo bagire ibyo bigaho kandi bizateza imbere buri wese.

Agatanda kariho igitambaro cy'umweru, cyegereye imashini y'ikoranabuhanga ishobora gupima umutima uburyo utera, bigafasha n'umuntu mu buzima bw'iwe busanzwe.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru kikaba gihuriyemo abagore batandukanye umwe yambaye ubururu, undi akaba yambaye umweru, bagaragaza ikimenyetso cyo guterura ingobyi irimo umwana kugira ngo berekane uburenganzira bw'umwana.

Icyumba kigizwe n'ibara ry'umweru hose, hasi hakaba hari ibyuma bitandukanye ndetse byiganjemo ibikora umubiri mu buryo bujyanye n'amaboko ndetse n'ibyo kwirukanka.

Ikigo cy'ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, aho bakirira abagana ikigo nderabuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi kandi bakomeze kwitabwaho ku ndwara zabo zigiye zitandukanye zirimo.

Icyumba kigizwe n'ibara ry'icyatsi hasi ndetse kikaba cyiganjemo ibikoresho byinshi bitandukanye bidufasha mu kugorora umubiri, harimo ibigufasha kwirukanka ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga bigufasha mu kugorora amaguru.

Inyubako y'ubuvuzi rusange aho buri murwayi wese ufite ikibazo cyihuta ashobora kugana kugira ngo ahabwe imiti imworohereza ubukana bw'indwara afite kandi agakomeza guhabwa amategeko ndetse n'amabwiriza yo gufata imiti.

Icyumba cy'ivuriro ndetse gikoreshwa n'abaganga b'inzobere harimo kwambara amatabuririya y'umweru ndetse n'amaga y'isuku kugira ngo umurwayi ahabwe serivisi yitaweho ndetse biririnde n'indwara zandurira mu matembabuzi.

Inyubako z'ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, ndetse ziba zigomba kubakwa zigatangirwamo serivisi y'ubuvuzi n'abaganga b'inzobere. Ni ho hubatswe inyubako zitandukanye zigomba gutanga ubuvuzi.

Igikoresho cy'ubuvuzi gitangwa n'abaganga b'inzobere ku baturage batandukanye gifite ibara ry'umukara ndetse n'imigozi iciyemo mu mpande kugira ngo bize gufasha umurwayi ufite ikibazo harimo nko kutagenda ahabwa serivisi y'ubuvuzi kandi inoze.

Umukobwa wambaye isengeri amaboko ye ukw'iburyo kukaba gufashe mu nkokora kw'ibumoso kukaba gufashe mu mugongo aho agaragaza ko kwinanura ari ingirakamaro kugira ngo ubuzima bw'umuntu bumere neza ndetse agorore ingingo ze.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaganga b'inzobere ndetse n'ibitaro bigiye bitandukanye, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umugozi wacyo ukoreshwa usa umukara, bigafasha ubuganga mu gupima imiti.

Umuhanda wa kaburimbo aho hagaragaramo ikinyabiziga cyitwa imbangukiragutabara, kikaba gikoreshwa mu buryo bwo gutanga ubuvuzi bwihuse ku muntu wahuye n'ikibazo akaba ategereye ivuriro.

Igororamubiri igendana n'ipimagihe aho uba ugomba kumva n'imiziki kugira ngo upime ikirere ndetse n'imbere yawe kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza mu mpande zose.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage wese ndetse barakangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi kugira ubuzima bwabo bukomeze bumeze neza, imbuto zitandukanye harimo imineke, amaronji ndetse n'inkeri zikoreshwa n'aba sportif.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kuko igufasha guhinduka wowe wese ndetse no mu myumvire aha ni umukobwa ufite ibikoresho by'isuku bya siporo ndetse akayikorera n'ahantu hafite ishusho nziza.

Amaboko atandukanye y'inzobere mu kugaragaza ibikoresho bikoreshwa mu kuvura umuntu kugira ngo amere neza, aho yagize ikibazo kijyanye n'ibikomere, ashobora kwitabwaho hakoreshejwe ibipfuko byabugenewe by'isuku.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bibitswe mu buryo bw'isuku cyane kugira ngo umuntu ubikoresha abe afite isuku ihagije, ibi ni ibikoresho bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo batange ubuvuzi rusange ku baturage, harimo nk'imikasi.

Igikoresho cy'icyuma gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara bikaba bikoreshwa n'abaturage basanzwe mu gutanga ubufasha ku muntu ugize ikibazo adashobora kugendesha amaguru yiwe.

Ibinini, inshinge ndetse hejuru higanjemo ibara ry'umweru, cyandikishije amagambo y'icyatsi, munsi bigaragaza yuko ari imiti ifatwa n'abakora siporo nk'intungamubiri.

Siporo ni ikintu gifasha umubiri w'umuntu kumera neza, aha niho umuntu agomba gukorera umubiri wiwe akawubaka ndetse akanakomeza amagufa mu buryo butandukanye, harimo kwinanura, kwigorora k'umubiri ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi ni ingirakamaro kuri buri muturage wese bwaba ubwihuse mu buryo bwo gufashanya hakoreshejwe imikasi, inshinge, ibipfuko, amaga y'isuku ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo umuturage avurwe byihuse.

Siporo ngororamubiri ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, buri muntu wese arakangurirwa gukora siporo umunsi ku munsi kugira ngo yumve ko umubiri we umeze neza, harimo kugorora amagufa, kugorora umugongo ndetse n'ibindi bice by'umubiri byose.

Ubuvuzi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu ni nayo mpamvu, iyo umuntu yahuye n'ikibazo cyiganjemo nko gukomereka, ahabwa ubuvuzi hafashijwe igikoresho cy'isuku bita igipfuko kugira ngo amere neza.

Utwumba dutandukanye, tubika imiti igiye itandukanye ihabwa buri muturage wese mu gihe habayeho ikibazo kihutirwa, tukaba dusa umweru dutandukanyijwe n'amabara harimo umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umukara.

Ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse mu bwisungane n'ubuvuzi rusange, butangwa n'inzego z'umutekano, mu bitaro bikuru by'umutekano, mu kwita ku buzima bw'umuturage, aho bupimwa, ndetse bagahabwa n'isuzuma, bugatangwa n'imiti yabugenewe.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, hirya hari umusore wambaye ikabutura y'umukara, bafite uducupa tw'amazi kandi bakora siporo, bagaragaza ko byose ari ingirakamaro ku buzima.

Umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse na kora y'umukara, aho yitaweho n'umuganga w'inzobere wambayetaburiya y'umweru, kugirango ahabwe serivisi zimufasha mu kugorora amaguru yiwe, kugira ngo amagufa ye abe ameze neza umunsi ku wundi.

Icyumba cyahuriyemo abagabo babiri, abagore babiri ndetse n'umwana wasamye arimo arasuzumwa mu kanwa ,kugira ngo harebe niba nta kibazo afite cy'amenyo aboze cyangwa indi myanda yose hakoreshejwe ikoranabuhanga ribishinzwe.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, kuko umuntu aba agomba kuyisigasira akayikora kugira ngo umubiri we ugume umeze neza udafite indwara, harimo guterura ibyuma bitandukanye ndetse no kwiyumva mu mubiri.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'undi uryamye hasi, baratanga urugero rwiza rwo kwivuza, mu gihe waba ufite amagufa atonekara, ndetse ushaka no kugororwa amagufa mu gihe, ukeneye ubufasha nk'ubwo.

Umugore wambaye umupira w'umukara ndetse n'agapfukamunwa, akaba ari gutanga serivisi ku mugabo uhagaze, wambaye imyenda ya siporo ndetse na we yapfutse amazuru kugira ngo birinde indwara zandurira mu matembabuzi.

Icyumba rusange gihuriramo abaganga b'inzobere kugira ngo bafashe buri muntu wese ubagana mu buryo bw'ingororangingo, aha ni ho ibikoresho byose biba bibitse kugira ngo abashe kuba yagororwa neza kandi ahabwe serivisi inoze.

Ubuvuzi bwihuse kandi bw'ireme, bufasha umuntu wahuye n'ikibazo vuba vuba kugira ngo arinde ubuzima bwiwe kuba bwakiyongeraho ingaruka nyinshi cyane z'indwara, ibi bigakorerwa buri muturage wese.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara n'inkweto za siporo, arakora siporo ku biti ndetse agorora amaguru kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugira neza, akomeye afite amagufa ameze neza.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage aho zigomba kwitabwaho zigakorwa mu buryo butandukanye, harimo gusimbuka umugozi cyangwa se kwirukanka, bigafasha mu kurinda indwara zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso cyangwa se kuruhura ubwonko.

Ikizeru kigabanyijemo ibice bine kikaba gifite amabara atandukanye harimo ubururu, umutuku, n'icyatsi ndetse n'umuhondo, bigaragaza ko ushobora kwivuza ugakora siporo ndetse ugafatanya na mugenzi wawe.

Icyumba cy'ihuriro ry'abasiporotifu aho bahurira ari abantu rusange kugira ngo bakomeze kugorora ingingo zabo umubiri wabo ukomeze kugenda neza, aha ni hamwe ushobora kugana kugira ngo umererwe neza mu mubiri.

Ni byiza ko buri muturage wese ikigero cy'imyaka agezeho, cyane cyane urubyiruko bakora siporo ngororamubiri kugira ngo amagufa yabo akomere ndetse babungabunge ubuzima bwabo muri rusange, imipira y'amaboko, iy'amaguru ndetse n'iyo kwirukanka.

Ibara ry'umuhondo rifite amagambo y'umukara, ndetse n'abantu batandukanye, mu gukangurira umuturage kwita ku buzima bw'iwe, akoresheje siporo zigiye zitandukanye, ndetse no kugorora ingingo kugira ngo amagufa akomere.

Icyumba cy'umweru ndetse kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu buvuzi rusange bitangwa n'abaganga b'inzobere mu kwita ku gusuzuma ndetse no gufasha umurwayi ufite ikibazo kugira ngo yitabweho muri rusange.

Igikoresho gikoreshwa ku baturage bafite ikibazo cyihutirwa kikaba gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bakigushyirireho neza kikaba gifasha mu koroshya uburibwe ndetse kigatabara mu gukira vuba kw'igisebe.

Mu gihe warushye, uremerewe uvuye nko muri siporo, ushobora gufata agacupa k'amazi ukimena mu mutwe bikuruhura sitiresi, bituma uruhuka neza, umubiri wawe ndetse n'imitsi bigatangira gukora neza.

Umugabo wambaye umupira usa icyatsi ndetse akaba afite umupira wo mu ntoki wanditseho nimero kane bigakoreshwa nk'umukino ngororangingo, kugira ngo ubuzima bwitabweho umunsi ku munsi

Kuryama neza ni igisubizo cy'ubuzima bwiza kuri buri muturage wese, uyu ni umugore wambaye imyenda y'umukara, ugaragaza ko kwinanura ari igice tugomba gukora ku mubiri wacu kugira ngo twiyumve neza, tugorore amagufa yacu kandi tumere neza.

Gukora siporo ni ingirakamaro ariko kurinda isuku yayo nabyo ni ingirakamaro, ni byiza ko intoki zawe ushobora kuzikoreshaho ga z'umukara ndetse ugakora siporo ukarinda intoki zawe imyanya ine iciye hamwe hameze neza.

Umugabo ufite icupa ry'amazi mu ntoki agaragaza ko amazi ari ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kandi banakangurira buri muturage wese gukoresha amazi meza. Akayakoresha afite isuku ndetse n'igikoresho abikwamo gifite isuku.

Ihuriro rusange ry'urubyiruko rugiye rutandukanye rwiganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, mu gutanga ubuvuzi bwihuse ku muntu wagize n'ikibazo akaba ategereye ivuriro hafi yiwe, ubu ni ubuvuzi rusange butangwa vuba.

Imbuto zitandukanye harimo imineke n'amaronji ndetse n'ibyuma byo guterura kugira ngo buri muturage wese akore siporo ihagije, kandi yite ku bijyanye n'imbuto kuko bifasha umubiri w'umuntu kuba umeze neza umunsi ku munsi.

Ubuuvuzi ni ingirakamaro ku bana ndetse no kwitabwaho umunsi ku munsi. Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse ufite ikoranabuhanga ari gusuzuma umwana niba ameze neza kugira ubuzima bw'umwana bugume bumeze neza kandi bwitaweho.

Umugabo ugaragaza intege nkeya mu maguru yiwe aho ahagarara akoreshejwe icyuma yahawe n'abaganga b'inzobere, mu kugira ngo yitabweho ndetse agorore amagufa yiwe kugira ngo yongere ahagarare abe muzima.

Ibara ry'ubururu ririmo ingero abaturage bashobora kwifashisha mu gukora siporo ngororamubiri, ndetse bazikose wicaye ndetse n'ibara ry'icyatsi ririmo siporo ushobora gukoresha umubiri wawe uhagaze kandi umubiri ukaguma neza.

nNi byiza ko buri muturage wese akora siporo ku buzima bwiwe kuko siporo ari ingororamubiri zifasha amagufa gukomera ndetse aha hari umurwayi ugaragaza ko adashoboye kugenda ndetse ari kumwe n'umutoza we.

Icyumba gihurijwemo abaganga b'inzobere ndetse bambaye amakanzu afite ibara ry'ubururu n'udupfukamunwa kugira ngo bakoreshe isuku yizewe mu kwirinda indwara zandurira mu matembabuzi.

Ni byiza kurya indyo yuzuye yiganjemo imineke, amaronji, inanasi, gufata ibinini kugira ngo wirinde indwara mbi zituruka mu ndyo idakingiye kugira ngo imibiri yacu ihabwe umudari w'ishimwe.

Ni ngombwa ko buri muntu wese agomba kunywa amazi ahagije, akamenya amazi ari mu mubiri w'iwe ukuntu angana ndetse akamenya n'akagero agomba kuyapimaho, agafata amazi yujuje ubuziranenge, akayafatira no mu kintu cyujuje ubuziranenge.

Umugabo wambaye isengeri y'umukara, ukuboko kw'iburyo kukaba gufashe ku bitugu u kw'ibumoso kukaba gufashe ku nkokora, aho agaragaza ko siporo zo kwinanura ari bimwe mu bifasha abaturage kugira ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Umukobwa wicaye hasi, akaba afashe ku nkweto ndetse n'akandi kaguru gahimye, bigaragaza ko umuntu aba akwiye gukora siporo inshuro nyinshi kugira ngo agorore amagufa yiwe umunsi ku munsi kandi yiyiteho kugira ubuzima bwiza.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuturage, niyo mpamvu aba agomba kwitabwaho kandi akabikwa ahantu hafite isuku mu gihe ufite inyota agomba kuyakoresha ndetse n'agasume gafite isuku kugira ngo wirinde uburwayi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikigina, akaba ateruye mu ntoki ze icyuma mu buryo bwo kwerekana ko siporo ari ingirakamaro, kandi ikangurirwa buri muturage wese gukora siporo aterura ibyuma bitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro rusange, aho umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikabutura y'icyatsi, ahabwa ubuvuzi bw'ingororangingo n'umuganga ubishinzwe w'inzobere, akamufasha mu buryo bwiza ndetse bukwiriye.

Abagabo babiri, umwe ahagaze ameze nk'umutoza undi apfukamye, ateruye ibyuma biremereye bishobora kuba bimufasha mu kugorora umubiri wiwe ndetse n'amagufwa gukomera, ibi bifasha ubuzima bw'umuntu kuba bwakomeza kugenda neza.

Ikoranabuhanga ry'umuganga rusange, ndetse n'ibikoresho akoresha kugira ngo akomeze kugira ubuzima gatozi, ndetse no gutanga ubuzima gatozi, bwujuje ubuziranenge, kuri buri muntu wese umugana, kuri serivisi y'ubuganga.

Ubuzima bw'umuturage ni ingirakamaro kuri buri muntu wese ndetse niyo mpamvu aba agomba kwita ku buzima bwe akora siporo zitandukanye ndetse akaninanura akoresheje amaboko n'amaguru kugira ngo yumve ingingo ze niba zimeze neza umunsi ku wundi.

Umwana ndetse mu kiganza cye afite ishashi, akaba yayishyize ku kuboko, ameze nk'aho ari kuyikandiraho, kugira ngo yerekane ko mu gihe ufite ikibazo cy'uburibwe ahantu runaka, ushobora kwifashisha ubu buvuzi.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, akaba avuga ko ari ihuriro ku mbuga ry'abantu bakora siporo, bakoresheje igice cy'umubiri cyo hasi aricyo twita amaguru, kugira ngo bakomeze, kumera neza mu buzima bwabo.

Ni byiza ko buri mubyeyi wese amenya uko umwana we yaryamye ndetse n'uko yabyutse, aha hari ababyeyi bagaragaza akanyamuneza ndetse n'abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya cyane, mu cyumba kirimo ibyisasirwa ndetse n'inzitiramibu.

Indyo yuzuye itegurwa hagendeye ku mafunguro atatu, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda umubiri, ibi byose bifasha umubiri w'umuntu kugira ngo ube umeze neza ndetse hakoreshejwe na siporo z'ibyuma bitandukanye kugira amagufwa akomere.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku ndetse akaba yicaye ku ntebe imbere ye hari mudasobwa ndetse n'irindi koranabuhanga rishobora gukoreshwa mu buvuzi rusange kugira ngo ubuzima bw'umuturage bwitabweho umunsi ku wundi.

Ubuzima bw'umuntu ni bwiza cyane, niyo mpamvu agomba kubungabunga akoresha umubiri wiwe siporo kugira ngo yirinde ibyawangiza, harimo guterura ibyuma, kunywa amazi ahagije ndetse no kurya imbuto kugira ngo zifashe mu buzima bwawe.

Ihuriro ry'ishusho ry'iyigamuntu, aho hahuriramo ibice bigiye bitandukanye harimo umutima, ibihaha ndetse n'igihanga, mu kwivuza, kwirinda isuzuma ndetse no kumenya uko ukontorora ubuzima bwawe.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara ari gutanga ubuvuzi ku mwana wicaye hejuru ndetse ufite igipfuko ku kaguru ameze nkaho yakomeretse kandi ni ubuvuzi bwihuse bwitaweho bw'isuku.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bifite isuku ihagije, harimo imipira ishobora kugufasha mu kugorora umugongo ndetse n'udutebe dutoya dushobora kugufasha mu kuruhuka neza ndetse no kwigorora muri rusange.

Umugabo ahagaze wambaye imyenda ya siporo, afite icupa ry'amazi ari kwimena ku gahanga kuko bifasha mu kuruhura Siteresi ndetse n'ubwonko muri rusange, bukoresha amazi meza kandi y'isuku.

Icyizere cyo gukorera hamwe nk'urubyiruko, aho abasore bane bapfukamye, ndetse abandi bakaba bahagaze, umwe akaba aryamye hasi, ameze nk'uwahuye n'ikibazo, bakaba bamwitayeho, barimo baramuhereza ubuvuzi, bwihuse.

Igikoresho gikoreshwa mu kwihutisha amakuru ndetse n'itumanaho, aho buri muturage wese mu gihugu indani yemerewe gukoresha iri koranabuhanga kugira ngo yohereze amakuru yiwe agere ku wundi muntu mu kindi cyerekezo.

Igikapu cy'umutuku ngendanwa gikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bafashe buri muturage wese hafi yabo aho yahuye na toroma, afashwe ahabwe ubutabazi bwihuse kugira ngo aze kuguma ameze neza mu gihe ubuzima butarapfa.

Igishushanyo cyiganjemo amabara atandukanye ubururu bukaba aribwo buri hejuru cyane, bigaragaza inkingo z'abakunda gukora siporo n'uburyo bafata imiti yabo.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bw’ umuntu. Ndetse aho umugore wambaye umupira w’ umukara akoresha ibikoresho bitandukanye by’ isuku harimo n’ ibyuma ndetse n’ amazi y’ isuku kugirango akomeze kwita ku buzima bwiwe yirinda n’ indwara zitandukanye.

Icyumba cyiganjemo ikoranabuhanga rikoreshwa mu bigo by'ubuvuzi kugira ngo abaganga b'inzobere bite ku barwayi babo ndetse babasuzume neza indwara bafite, kugira ngo bitabweho bafata imiti ikwiriye kandi mu isuku nyinshi.

Agacupa k'ingano ntoya kakaba gafite umuvuniko w'umweru, imbere hakaba harimo umuti umeze nk'amazi ukoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bafashe abarwayi bakeneye uwo muti kugira ngo bitabweho.

Umugore wambaye isengeri y'icyatsi ndetse n'ikabutura y'ubururu n'inkweto za siporo, agaragaza ko siporo ari ingirakamaro kuri buri muturage wese agomba kuyitaho, akayiteza imbere ndetse akayikangurira na buri mugenzi we akoresheje ibyuma bitandukanye.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kuko afasha umubiri w'umuntu kuguma umeze neza ndetse no gutembera neza kw'amaraso, amazi agomba kuba yitaweho ndetse akabikwa mu kintu cyabugenewe cyujuje ubuziranenge bw'isuku.

Ikiziga cy'umuhondo gifite icyumba mu imbere kiganjemo igikoresho k'ikoranabuhanga, kidufasha mu gutuma imibiri yacu yongera kumera neza, hagendewe ku magufwa afite imvune ndetse n'aho amagufwa ahurira hose hakitabwaho.

Ihuriro ry'uducupa tugiye dutandukanye, twivanzemo amabara atandukanye, harimo umutuku, ubururu, umweru, ndetse n'umukara, hari ibyo bakoresha mu ntoki, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, kandi agomba kwitabwaho aho abikwa ndetse n'aho asukwa kugira ngo akoreshwe. Ibi bikangurira buri munyarwanda wese gukoresha amazi meza y'isuku, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza muri rusange. Urumva ukuntu mba niruka?

Umwana ndetse mu ntoki ze akaba afitemo ishashi irimo amazi mo imbere ndetse akaba yayarambitse ku kandi kaboko, agaragaza ko ari ubuvuzi bushobora kwifashishwa ku muntu ufite uburibwe ahantu runaka.

Umuravumba umuti gakondo wera ku bibabi, ugakoreshwa n'inzobere kugira ngo witabweho ubashe guhabwa umurwayi ufite ikibazo kijyanye n'inkorora ndetse no kutamera neza mu mubiri wiwe ahabwa umuravumba.

Uducupa dutandukanye dufite amabara adasa harimo nk'umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, tukaba tubitswe mu buryo bw'isuku uko tugiye dusa kandi tugakoreshwa n'abaganga mu gutanga imiti yizewe kandi y'isuku.

Agacupa k'ingano ntoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'agafuniko k'umweru gafite amabara muntu, kagaragaza ko kavura umubiri ndetse kakoroshya umusatsi mu gihe kakoreshejwe ari nka Gakondo ndetse n'amasabune y'isuku, Dasitishine.

Agacupa k'ingano ntoya k'umweru gafite n'umuvuniko w'umweru uretse amagambo yanditse mu mbavu zako, aka kakaba gafite ubudahangarwa bwo kubika neza umuti, wa gakondo uvanze n'ubuki kugira ufasha abarwayi.

Agakoresho k'ishashi gafite ibara ry'umuhondo ndetse kagakoreshwa mu kubika imiti gakondo ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bafashe abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye mu kintu kijyanye n'ubuvuzi.

Udukarito dutandukanye dufite amabara adasa, higanjemo umweru ndetse n'umutuku, aho imiti ibikwa itandukanye, itangwa n'abaganga b'inzobere ku barwayi, kugira ngo babashe gufashwa ku mibiri yabo.

Agacupa k'ingano ntoya gafite ibara ry'umweru ndetse kakaba gakoreshwa nk'agakoresho k'isuku mu baganga, kabika imiti irimo ibinini bisa umweru kugira ngo bihabwe abarwayi ndetse bikitabwaho mu gutangwa mu isuku.

Ibibabi bitandukanye by'amoko yose bikoreshwa nk'imiti gakondo, bishyirwa mu isekuru bigacucumwa kugira ngo bikorwemo umuti mwiza kandi wizewe w'isuku, uri buze gufasha umuturage wese ufite ikibazo cy'uburwayi bwerekeye n'uwo muti.

Agacupa k'umweru ndetse kari ku isahani y'umweru, hakaba hariho n'imbuto zitandukanye, harimo nk'amaronji bikoreshwa ku bantu batandukanye kugira ngo babikoreshe mu buvuzi runaka bw'umubiri.

Ibibabi bitoshye cyane ndetse n'akandi gashami gatoya gafite utubabi dutoya ariko twinshi, ndetse ibyumye n'utundi dutoya cyane. Byose bikoreshwa nk'imiti gakondo itangwa ku barwayi bafite ikibazo.

Ibikarito bitandukanye bibitse imiti mu isuku yo kugira ngo ikoreshwe n'abaganga b'inzobere kuyihereza abarwayi bakitabwaho ndetse n'imbuto higanjemo inanasi n'imeke kugira ubuzima bw'umuntu bukomeze kumera neza.

Imiti ituruka ku bibabi, hakoreshejwe abaganga b'inzobere kugira ngo badufashe mu gutanga umuti wa nyuma wizewe na serivisi y'ibinini, ihabwa abarwayi bameze nabi kugira ngo bitabweho, mu bicupa bifite ubuziranenge.

Uducupa dufite ingano zitandukanye ndetse n'amabara harimo umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi tugakoreshwa nk'imiti itangwa kugira ngo umuntu wese ufite ibibazo by'uruhu n'ibindi bibazo by'umusatsi avurwe.

Ibiti bitandukanye byose bikaba bifite amashami yera amababi, amababi agakoreshwa mu buvuzi gakondo hagendewe ku nzobere zibishinzwe, ibi biti bikaba bigaragaza uburemere budasanzwe mu buvuzi.

Imiti gakondo ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo yitabweho ivemo imiti izakoreshwa gutangwa ku barwayi, bafite indwara zigiye zitandukanye, aha ni ingero zitandukanye z'imiti ikoreshwa.

Amabara atandukanye ivanzemo icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'ubururu, bigaragaza agakoresho gakoreshwa mu kubika umuti kivuzi wa gakondo muri rusange ufasha abaturage kandi ukabitaho.

Uducupa dutandukanye dufite ibara ry'umweru ndetse tubitse imiti ihambaye, ifasha mu kwita ku ruhu rw'umuntu n'amasabune ashobora gukoreshwa mu isuku, kugira ngo umuturage ufite uburwayi bw'uruhu n'umusatsi abyiteho.

Imiti rusange ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ihabwe abarwayi b'abaturage aho ikoreshwa isuku nyinshi cyane mu kubikwa hakoresheje uducupa dutandukanye higanjemo utw'umweru dutoya ndetse n'ibinini.

Uducupa tw'ingano ntoya dufite amabara y'umweru ndetse dukoreshwa mu kubika umuti utangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo umurwayi ufite ikibazo cy'uruhu, yitabweho ndetse anatunganye umusatsi wiwe akoresheje umuti rusange utangwa.

Ibiti bitandukanye bifite amababi atandukanye, akaba ayo mababi akoreshwa n'inzobere mu gukurwamo imiti gakondo, izafashwa mu kuvura abarwayi bameze nabi ndetse no kwitabwaho cyane kugira ngo ubuzima bumere neza.

Ibiti bitandukanye ik'imbere kikaba kigaragaza amashami yugarijwe n'amababi y'umweru, ku ruhande hakaba hari icyatsi ndetse byose bikaba bifasha mu buvuzi gakondo, kuvura abarwayi bameze nabi.

Ihuriro ry'imiti ndetse n'uruvanganvange rwaho imiti gakondo ibikwa. Aha higanjemo inkono, uducuma ndetse n'ibindi bikoresho byose byifashishwa kugira ngo ubuzima bw'umuntu bumere neza, hakurikijwemo kubungabunga imiti gakondo.

Agatebe k'igiti hejuru hakaba hateretse utwatsi dutandukanye ndetse dufite n'utubabi dutoya dukoreshwa nk'imiti gakondo, yifashishwa n'abaganga b'inzobere kugira bafashe mu buvuzi.

Ibiganza biteruye igipapuro kirimo umuti gakondo, useye ndetse n'ibindi bibabi ku ruhande, bidufasha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iz'uruhu iz'umubiri ndetse n'izindi zose zikenerwa muri gakondo.

Abagore bifubitse ibitambaro byinshi mu mutwe ndetse bagaragaza ko ubuhinzi butandukanye bw'imiti rusange ikoreshwa muri gakondo kivuzi, ari ingirakamaro ku baturage kandi bakomeza kubyitaho.

Icupa ry'ingano ntoya rifite ibara ry'ikigina n'umufuniko waryo aho rikoreshwa mu kubika umuti utangwa n'inzobere z'abaganga ku barwayi ku kwita ku ndwara zitandukanye harimo iz'impyiko, iz'ibihaha ndetse n'izindi.

Agacupa karekare k'umweru ndetse gafite amagambo yanditse mu mpande akoreshejwe ibara ry'icyatsi, aka kagaragaza umuti ubitswemo wujuje ubuziranenge kuba watuma umubiri umera neza ndetse n'umusatsi.

Umuti useye ndetse ukaba ufite ibara ry'icyatsi, ukabikwa ahantu hizewe hafite isuku ndetse mu gikoresho gifite amabara y'umweru kugira ngo umunsi ku munsi abaganga batange imiti ihagije ku barwayi.

Imiti ibitswe mu ducupa tutangana ingano, harimo utureture utugufi ndetse n'utunanutse, yose hakaba harimo imiti gakondo ishobora guhabwa abarwayi kugira ngo bitabweho ndetse banamere neza, kandi hakoreshejwe isuku yujuje ubuziranenge.

Agatanda k'ibiti karimo uducupa tw'amazi ndetse n'ibindi bicupa bigiye bitandukanye, imbere hakaba hari umuntu wambaye ikintu cy'umweru hejuru ndetse icy'umukara hasi, hari tebo ndetse na firigo.

Ibibabi bitandukanye biri mu mabara y'icyatsi ndetse bigakoreshwa nk'ubuvuzi gakondo, butangwa n'abaganga b'inzobere baba bakozemo umuti kugira ngo abarwayi bahabwe ubuvuzi rusange.

Imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura abaturage rusange, hifashishwa amacupa agiye atangana ingano hagenekewe ku buryo umuti ungana, atandukanye amabara higanjemo umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Uducupa tudahuje ingano tugaragaza aho kubika hasukuye, imiti wakoresha ku ruhu rwawe kugira ngo umubiri wawe ugume umeze neza, aha higanjemo amabara menshi, harimo nk'icyatsi, ubururu ndetse n'iroza.

Uducupa dufite ingano zitandukanye dukoreshwa mu kubika imiti iherezwa abaturage bafite uburwayi kugira ngo bitabweho, igomba kuba ibitse mu bikoresho by'isuku ndetse ikabikwa mu buryo bwiza bunogeye amaso.

Ni byiza ko buri muntu wese amenya imiti gakondo kugira ngo ajye abasha kwifasha mu gihe yahuye n'ikibazo kiri bu kumusaba gukoresha uwo muti, ibara ry'icyatsi ryiganje cyane ku kibabi cy'umuti gakondo.

Ishami ririho ibibabi bitandukanye ndetse by'icyatsi bikaba bikoreshwa nk'imiti gakondo ikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu gufasha abaturage bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi mu buvuzi.

Ibicupa bikoreshwa mu buvuzi rusange bifite amabara adasa, harimo umweru ndetse n'umuhondo bigakoreshwa nk'ububiko bw'imiti itangwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo umurwayi yitabweho ahabwe imiti ifite isuku kandi ibitswe neza.

Agati gatoya gafite amashami atandukanye, ayo mashami akaba agizwe n'ibibabi bitandukanye, ibyo bibabi akaba ari umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ku bantu.

Ikarita ntoya ifite amabara atandukanye, harimo umweru, ubururu ndetse n'umuhondo n'amagambo agaragaza ko ari byiza ko buri muturage wese yita ku buzima bwe, afata imiti uko bisabwa kugira ngo yirinde.

Ni byiza kubungabunga ubuzima bw'ibiti kuri buri muturage wese, ibi bitanga amahirwe menshi cyane yuko bimwe mu biti bishobora kuba bitanga imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi, ibi bigafasha buri muturage kubungabunga ubuzima.

Ikiganza gifashe igicupa cy'umweru ndetse icyo gicupa cyikaba gikoreshwa nk'igikoresho cyibika imiti ikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bafashe umurwayi ufite ikibazo cy'uruhu ndetse no kwita ku musatsi wiwe akamera neza muri rusange.

Itangarugero ry'uducupa tubika imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi rusange bw'abaturage aho higanjemo uducupa dutandukanye, utw'amabara y'umweru, ay'umukara, ay'umuhondo ndetse n'icyatsi, bigakoreshwa mu buvuzi.

Imiti gakondo iri mu dusorori tugiye dutandukanye, kugira ngo inozwe ndetse inayungururwe havanywemo imiti y'ubuvuzi, iri buze gufasha buri murwayi wese kugira ngo yitabweho, ahabwe ubuvuzi bukenewe indwara yiwe muri rusange.

Uburoso bw'amenyo ndetse na korogate, hariho umuntu uri gukandara undi kugira ngo umuti aboroshesha usohoke, bigaragaza isukura ry'amenyo kugira ngo ubuzima bwo mu kanwa bukomeze kubungwabungwa.

Buri muturage wese arakangurirwa kugira isuku akoresheje uburoso bw'amenyo bwiwe busa neza ndetse bukanabikwa neza mu dukombe dutandukanye, agakoresha umuti w'amenyo wizewe ndetse n'amasume afite isuku mu kwirinda ku buzima bwe.

Ibirahure birimo amazi n'imiti y'ibibabi ikoreshwa nk'imiti gakondo n'abaganga b'inzobere mu gutanga serivisi y'ubuvuzi ku barwayi batandukanye ndetse n'abaturage muri rusange kugira ngo bitabweho bahabwe umuti ufite isuku.

Igicupa cy'umuhondo ndetse n'utundi dutoya tw'umweru tugaragaza imiti ivura umuntu watwitswe n'izuba ndetse no gukira kw'ibisebe, bikaba byongera ubuzima bwiza.

Imiti gakondo ni ingirakamaro ku buzima bw'abaturage kuko igomba kwitabwaho ikabungabungwa kugira ngo ifashe abarwayi batandukanye, aha ni imiti ikoreshwa mu kugira ngo abaganga b'inzobere baze gukora umuti ubereye.

Umugore wambaye imyenda y'umweru ndetse akaba afite agakapu mu ntoki ,intoki ze zifashe ku kibabi gikoreshwa nk'umuti gakondo ushobora kwitabwaho ugakoreshwa mu kuvura abarwayi bameze nabi bafite ibibazo.

Ishyamba ndetse ririmo ibiti bitandukanye, harimo n'ikibabi cy'icyatsi, kigaragara ko ari umuti wa gakondo ukoreshwa n'abaganga b'inzobere mu kwita ku buvuzi, ndetse bagatanga imiti ku barwayi bafite ibibazo.

Ibitunguru, indimu ndetse n'icupa rifite umuti ukoreshwa mu kwita ku baturage, aho abarwayi bashobora kugana abaganga b'inzobere bakitabwaho, serivisi ya "Baho Neza" ikangurirwa buri muturage ku kwita ku buzima bwe.

Umugabo wambaye umupira w’ umutuku ndetse n’ umukara. Akaba ahagaze mu bihigwa bikoreshwa nk’ imiti gakondo akaba ari ibibabi byitabwaho n’ abaganga b’ inzobere kugirango bitange imiti bizafasha kuvura abarwayi batandukanye muri rusange.

Ibiti bifite amababi y'icyatsi ndetse akoreshwa nk'imiti gakondo itangwa n'abaganga b'inzobere mu gukora imiti igaherezwa abarwayi bafite uburwayi bumeze nabi bakitabwaho umunsi ku munsi kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Ihuriro ry'uducupa dutandukanye amabara, ndetse higanjemo umutuku, umukara. Udufuniko tw'umukara, umutuku ndetse n'umweru. Aha hagaragazwa imiti gakondo ibikwamo kugira ngo ikomeze kugirirwa isuku.

Uducupa dusa ku ibara ryo hasi ry'umweru ariko tukaba dufite udufuniko dutandukanye, higanjemo umuhondo ndetse n'icyatsi, kandi ni byiza kumenya umujyanama w'ubuzima bwawe n'imirire.

Ibiti bigizwe n'amashami, amashami yera ibibabi, ibibabi bigakoreshwa n'inzobere ndetse n'ababishinzwe mu guhanga imiti gakondo izakoreshwa n'abaturage mu kugira ngo havurwe indwara zitandukanye kandi zafashwa na gakondo.

Amababi agiye atandukanye, yiganjemo ibara ry'icyatsi cyane ariko hagaragaramo n'ibara ry'umuhondo ritagaragara cyane, bikaba bikoreshwa mu buvuzi gakondo ku babizobereyemo kugira ngo bakoremo imiti.

Ibihingwa byera ku kigero cyo hejuru, bisa umweru bigashishurwa kugira ngo imbuto zabyo zikoreshwe mu buvuzi butandukanye, kuko zirukana ama imfegisiyo zo mu mpyiko ndetse bigapima n'umuvuduko w'amaraso n'isukari yo mu maraso.

Muganga ubizobereyemo akaba agaragaza ibinini mu kuboko kw'ibumoso ndetse n'igikarito kivamo ibinini mu kuboko kw'iburyo ko ari ibinini bishobora gukoreshwa n'igitsina gore, mu gihe habayeho imibonano mpuzabitsina ariko adashaka gusama.

Ibiti bitandukanye ndetse higanjemo n'uduti dutoya dufite amababi. Aya mababi akaba akoreshwa n'inzobere z'abaganga kugira ngo habe hakurwamo imiti gakondo, izafasha abaturage mu kwivuza ndetse no guhabwa ubuvuzi.

Agacupa k'ingano ntoya ndetse gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko wako ukaba ufite ibara risa umweru kagakoreshwa nk'ububiko bw'abaganga bwizewe mu gutanga ibinini bitandukanye by'ubuvuzi.

Ni ngombwa ko buri muturage wese uhura n'ikibazo cy'uburwayi, amenya uburyo ashobora kwitwaramo mu gihe arimo araka imiti, akamenya amabara agenderaho. Agafuniko k'umweru hejuru ndetse n'amagambo yanditse mu mbavu ry'icupa.

Agacupa k'ingano ntoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, kakaba kagaragaza ko ariho umuti w'amenyo ushobora kubikwa ndetse n'isuku nyinshi kugira ngo abarwayi bashobore kwitabwaho umunsi ku munsi.

Igenzurwa rikorwa mu kubungabunga ibidukikije, rigakorwa n'abashakashatsi batandukanye, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bahetse ibikapu bitandukanye. Imbere hari amazi aturuka mu misozi ndetse no mu mpande bakikijwe n'ibiti.

Icupa rito rifite isuku ry'umufuniko w'umweru, akaba ari igisubizo ku muryango mugari, bikavura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, bigakumira n'izindi ndwara zose, zandurira mu myanya y'ibanga.

Umusambi uriho utwungo turimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, harimo isa umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo. Ni byiza ko buri muntu wese amenya umuti gakondo kugira ngo amenye uburyo azifasha mu gihe yahuye n'ikibazo.

Ihuriro ry'imiti igiye itandukanye iri mu bwoko bw'ibibabi, ikoreshwa mu kuvurwa ndetse ikaba ari ubuvuzi gakondo bukoreshwa kuri buri murwayi wese, wahuye n'ikibazo kiza kumusaba umuti gakondo agahabwa uwo.

Amabara y'ibibabi yiganjemo ayumye ndetse n'amabisi y'icyatsi. iyi ngiyi ikaba ifatwa nk'imiti gakondo ishobora gufasha buri munyarwanda wese kugira ngo igihe yahuye n'ikibazo kimusaba uwo muti awukoreshe kandi agubwe neza.